Iri ni iduka rishinzwe gucuruza ibinyobwa bisembuye cyane cyane ariko n'ibidasembuye ntabwo wabiburamo ndetse n'ibyo kurya hari igihe biba birimo.

Aha ni mu kabyiniro aho abantu basohokera bagiye gususuruka ku bijyanye no mu kubyina banywa ibintu bigiye bitandukanye birimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Iri ni imenyekanisha cyangwa se ni urupapuro rukumenyesha ibicuruzwa aho hantu bafite ndetse n'igiciro cyabyo. Akenshi harigihe usanga hariho nk'igihe ibyo bintu bimara kugira ngo babitegure cyangwa se kugira ngo bibe bikugezeho.

Aha ni mukabyiniro cyangwa ahazwi ku izina ryo mu kabari, aho ushobora kuba wajya ukaba wanywa cyangwa wagura ibi ibyo kunywa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, ndetse ukaba wabasha no kuba wahafatira amafunguro.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko ku kabari, ahacururizwa ibinyobwa bisembuye, gusa bitavuze ko n'ibidasembuye utabihabona; nk'urugero iri cupa turimo turabona imbere yacu, ni iry'ikinyobwa gisembuye.

Aha ni mu kabari cyangwa se mu kabyiniro, aho ushobora kuba wabona ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ndetse aha ngaha ushobora kuba wahabona rimwe na rimwe ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'inyama, ibirayi ndetse n'ibindi binyampeke bigiye bitandukanye byo kurya.

Iyi ni ikayi igufasha kumenya ibiciro cyangwa kumenya muri ako kabari cyangwa muri ako kabyiniro ibyo bafite n'ibiciro bigiye bigura ku ruhande, kugira ngo ubashe kumenya uko ukoresha amafaranga yawe ndetse n'ubushobozi ufite ku mufuka wawe.

Aha ni mu kabari, uyu tureba imbere yacu ni umuntu ushinzwe kubara ibyinjiye ndetse n'ibyasohotse muri aka kabari, ahangaha haba habera ibintu bitandakanye, aho umuntu ashobora no kujya kwicara imbere yaha uyu muntu ahagaze, akaba ariho afatira icyo kunywa ke.

Aha ni ahahurira imbaga nyamwinshi baje kureba umupira cyangwa iteramakofe cyangwa n'ibindi byishimo bashaka bitandukanye yaba abavanga imiziki, cyangwa ababyina cyangwa n'abaririmbyi ariko hakaba hazwi ku izina ry'akabyiniro cyangwa akabari.

Aha ni mu kabari cyangwa mu kabyiniro, aho ushobora kujya ukaba wakwaka ibinyobwa bisembuye, gusa ntibivuze ko n'ibidasembuye biba bidahari. Mu iri cupa tureba, ni ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda Buralirwa, ubu bwoko bw'iki kinyobwa bakaba babwita Amusiteri.

Aha ni mukabyiniro cyangwa ahazwi ku izina nko mu kabari, iyi tubona ni ububiko bw'inzoga cyangwa bw'ibinyobwa bisembuye bigiye bitandukanye, aho ushobora kuhajya ukaba wasusurutswa n'abantu bagiye batandukanye.

Iyi ni ibaruwa igufasha kumenya ibikubiye n'ibiciro by'ibyo wabasha gufata muri ako kabyiniro cyangwa muri ako kabari waba wasohokeyemo, ba, aho bagufasha kumenya ibiciro n'ibintu babashije kuba bafite muri ahongaho. Ibikubiyemo.

Aha ni akabyiniro cyangwa aho abantu bidagadurira bacuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibinyobwa bisembuye nibidasembuye.

Aha ni mu kabyinoro aho hahurirwa n'imbaga nyinshi z'abantu baje gususurutswa n'abavanga imiziki cyangwa baje kubyina bakanasoma kugasembuye.

Aha ni mukabari cyangwa ahazwi nkomukabyiniro, ubu ni ububiko bw'ibinyobwa bisembuye gusa bitavuzeko n'ibidasembuye biba bitarimo, aho ujya bakaba babasha kuguhereza iki kinyobwa ukakinywera aho uri.

Uru ni urupapuro rwerekana uburyo ki ushobora kwishyura cyangwa igiciro cya buri kiribwa cyangwa buri kinyobwa, muri ako ka..., muri ubwo buriro cyangwa muri ako kabari, baba bakoresha.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko mu kabari cyangwa mu gasusuruko aho ushobora gususuruswa n'abantu bagiye batandukanye yaba ababyinnyi, abaririmbyi cyangwa abavanga imiziki mu buryo bugiye butandukanye.

Aha ni aho abantu bidagadurira, hazwi kw'izina nko mu kabyiniro. Aho abantu basusurutswa nuko baba banyweye agasembuye. Kimwe nuko baba bacuruza n'ibidasembuye, n'ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi ku izina ryo mu kabari, aho ushobora kuba wajya ukanywa ibinyobwa bisembuye nk'urugero, turi kubona imbere yacu ikinyobwa bari kwamamaza cya Henikeni gikorwa n'uruganda Burarirwa; aha ushobora kuhabonamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, byose biba birimo.

Iri ni iduka, iri duka ushobora kuba wasangamo ibikoresho cyangwa ibinyobwa bitandukanye nk'urugero aha ngaha twavuga ko iri duka, dushatse twaryita akabari kuko urabona harimo ibinyobwa by'ubwoko bubiri, yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, imitobe, inzoga, byose biravangavanze.

Aha hazwi ku izina ryo mu kabari, iyi foto turebe imbere yacu ni ikinyobwa kidasembuye, hirya yacu hari abantu barimo baranywa ibinyobwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibisembuye n'ibidasembuye.

Aha ni mu kabari cyangwa mu kabyinoro. Aho ushobora gusangamo ibinyobwa bisembuye n'ibiribwa bikungahaye ku mamyama gusa ahangaha uba usanga akenshi harimo n'amacumbi bacumbikira abantu bagiye baturuka mu mpande zitandukanye.

Aha ni aho bagurira cyangwa bacururiza ibinyobwa cyangwa ibiribwa byaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye ariko ukaba ugomba kugendera ku mategeko akurikijwe.

Aha ni mu kabari cyangwa mu kabyiniro aho abantu basusurutswa n'ababyinnyi cyangwa abaririmbyi, cyangwa se abavanga imiziki, ahatangirwa ibinyobwa bisembuye ndetse cyane cyane n'ibidasembuye dushobora kubihabona.

Aha ni mu kabari, aho umuntu ashobora kujya ashaka kuba yafata icyo kunywa gisembuye, gusa ubusanga aha ngaha ushobora no kuhasanga ibinyobwa bidasembuye, ndetse rimwe na rimwe haba hari n'ibyo kurya.

Aka ni akabyiniro, cyangwa ahazwi kwizina nko mukabari, aho ushobora kujya ukagurira ibinyobwa bisembuye, gusa bitavuze ko na ibidasembuye biba birimo, nka imitobe na ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa inzu bafatiramo amafunguro. Aha ushobora kuba wahabonamo ibyo kurya bigiye bitandukanye cyangwa amafunguro agiye atandukanye. Aho ushobora no kuba wabonera ibinyobwa bigiye bitandukanye yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye

Iki ni icyapa cyerekana ahantu bacururiza cyangwa se hakorerwa ibinyobwa bya sikolo cyangwa se akabari, aho ushobora kuba rwahajya deni bakaba baguha ibinyobwa bisembuye cyane cyane nk'urugero iki ni icyapa cyamamaza ikinyobwa cya sikolo.

Iki ni icyapa kerekana cyangwa kiranga aho ushobora kuba wagurira ibinyobwa bisembuye dore ko imbere y'iyi foto turi kureba kuri iki cyapa ni ikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda amusiteri.

Aha ni mu kabyiniro ahazwi nko mu kabari. Aha tureba imbere niho ubasha kuba wakakira ikintu ushaka cyangwa icyo aricyo cyose waba ushaka. Ushobora no kuba wahicara mu gihe udashaka kujya kwicara kure yaho.

Akabyiniro cyangwa se akabari, aha niho ushobora kugera mu gihe ushaka kunywa agasembuye, si agasembuye gusa ahubwo bagira n'ibinyobwa bidasembuye, dore ko ushoboraka kuba wahabonera amafunguro agiye atandukanye.

Aha ni mu kabari, cyangwa hazwi ku izina ryo mu kabyiniro. Aho umuntu ashobora kuba yajya agasusurutswa n'abantu batandukanye, ahacururizwa ibinyobwa cyane cyane bisembuye. Gusa bitavuze ko n'ibidasembuye wabihabura.

Iki ni ikinyobwa gikorwa n'uruganda balarirwa kizwi ku izina rya henikeni, aha tubona ni mukabari cyangwa mu kabyiniro ahacururizwa ibinyobwa bigiye bisembuye gusa n'ibidasembuye hari igihe biba birimo.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye iyi tureba imbere ni igikoresho k'ikoranabuhanga kiba cyabasha gukora ikawa imeze neza y'umwimerere kikaba bakaba banacuruza n'ibintu biba bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa mu buriro ahazwi ku izina dutira mu mahanga nka Restaurant, aho ushobora kujya ukaka ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri.

Ubu ni uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga, aho ushobora kuba wajya muri aka kabari ukaba wabasha kwishyura amafaranga ariko hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bw'ikarita; ni uburyo bw'ikarita bwitwa ''Pesapal''; bukoresherezwa hano mu Rwanda, ukaba wakishyura amafaranga uyakura kuri banki uyashyira kuri iki cyuma cyabo.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko mu kabari aho ushobora kuba wajya ukaba wanywa ibinyobwa bisembuye gusa bitavuze ko n'ibinyobwa bidasembuye utabibura ahangaha ushobora no kuba wahabonera amacumbi.

Aha ni mu kabari, uyu tubona ni umuntu wari wagiye kuhaha cyangwa gushaka ibyo yari akeneye muri aka kabari. Ariko mu kwishyura bamusaba gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, akoresheje ikarita ye.

Akabari cyangwa se mu kabyiniro aha ni ahantu hahurira imbaga nyamwinshi mu gihe ziba zishaka ibinyobwa bitandukanye yaba ibisembuye yaba ndetse n'ibidasembuye, aha ushobora no kuba wahakura amafunguro cyangwa ukaba wahafatira amafunguro agiye atanduukanye.

Aha ni aho ushobora gusohokera uri kumwe n'umuntu mushaka kugira ibyo muganiraho, muri kunywa agasembuye, ikinyobwa gisembuye, ahazwi no mukabari cyangwa mukabyiniro.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko ku izina nko mu kabari, aho wabasha kuba wagurira ibinyobwa bisembuye cyangwa ukaba wabasha kuba wahagurira ibiribwa bigiye bitandukanye bikungahaye ku manyama.

Akabari cyangwa se akabyiniro. Aha ngaha niho ushobora kuba wagenda ushaka gususuruka, ushaka kunywa agasembuye si agasembuye gusa abubwo haba nakadasembuye kuko haba hari ababyinnyi benshi, abavangamiziki ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Akabyiniro cyangwa se akabari. Aha ngaha ni mu kabari, aho ushobora kuba wagenda ugasusuruka, ndetse haba hari abahanzi batandukanye, abavangamiziki, ababyinnyi n'ibindi byinshi. Aha ngaha haba hagurishirizwa cyane cyane ibinyobwa bisembuye.

Iki ni icyapa cyamamaza cyangwa kimenyekanisha ibyo muri aka kabari cyangwa muri aka kabyiniro uba wabasha kuhabona, nk'urugero bari bamamaje berekana uruganda rukora ubwoko bw'ikinyobwa gisembuye aribwo sikolo.

Aha ni mu iduka bacururizamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya muri byo kunywa dusangamo ibisembuye n'ibidasembuye n'ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabari cyangwa ahazwi ku kabyiniro aho abantu bahura bagasusuruka bakaba banywa ibinyobwa bigiye bitandukanye, yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye ushobora no kuhabona aho amafunguro.

Aha ni mukabyiniro aho umuntu ashobora kuba yasohokera ashaka kunkwa ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ahazwi nko mukabari cyangwa aho abantu bidagadurira.

Ubu uburyo umuntu ashobora gukorera y'ishyura muri akabyiniro cyangwa aho barira akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ariko agakoresha ikarita ye muburyo bwo kwishyura.

Aha ni turi kureba umucuruzi ukora mu iduka cyangwa aho wakita nko mu kabari bacururiza ibinyobwa bisembuye cyane cyane nibyo biba byiganjemo ibidasembuye usanga ari mbarwa.

Aha ni mu kabari, ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye: ibisembuye ni byo biba byiganjemo, ariko n'ibidasembuye biba birimo; aho dushobora no kubona ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo amanyama, ibirayi n'ibindi bitandukanye.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko mu kabiri. Aho ibyo wagura byose, bisembuye cyangwa ibidasembuye, mu kujya kwishyura ukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, yaba ubwa emutiyeni cyangwa ubwa eyateri bitewe n'umuyoboro ukoresha.

Uyu ni umuhanda wa hano i Kigali i Remera mu nsi ya sitade Amahoro, ahazwi no ku gisimeti, iki cyapa cya mbere turi kubona, ni icyapa cyerekana ahantu hari akabari ushobora kuba wajyaho ukagura ibikoresho cyangwa ibinyobwa bisembuye.

Aha ni mu kabari cyangwa mu Kinyarwanda ahazwi nko mu kabyiniro, aho ushobora kujya kugira ngo baguhereze ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, mu gihe ushaka ibintu byo mu kabari nk'ibirayi, amanyama n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko mu kabari. Aho waba wabasha kugera bakaba baguha ibinyobwa bigiye bisembuye ndetse n'ibidasembuye kubatabishaka, aho ushobora no kuba wabona ibiryo bigiye bitandukanye bikungahaye ku manyama, ku birayi n'ubundi bwoko bwose bugiye butandukanye.

Aha ni mu kabari cyangwa hazwi nko ku izina nko mu kabyiniro, aho babasha kuba bagusukira ikinyobwa ushaka icyo aricyo cyose ariko cyane cyane ikinyobwa gisembuye, ukaba wabasha kuba wakijyana iwawe mu rugo, cyangwa ukaba wakinywera aho ngaho.

Aha ni mu kabari, ahasusurutswa n'abahanzi batandukanye, abavangamiziki batandukanye, ndetse n'ababyinnyi batandukanye, ndetse n'abasetsa batandukanye, ndetse n'abaryoshyamagambo cyangwa abasangizamagambo bagiye batandukanye.

Aha ni mu kabari cyangwa hazwi nko mu kabyiniro aho wabasha kugurira ibinyobwa bikungahaye ku bisembuye cyangwa ibidasembuye, harimo kugura icyayi yaba ik'ikawa icyayi nyarwanda cyangwa ibyayi bigiye bitandukanye cyangwa ib'ibinyobwa bisembuye.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko mu kabari, aho ususurutswa n'ababyinnyi cyangwa aho wabasha nawe kwidagadurira ukaba wakirekura ukabyina ntawe ugukoze mu nkomyi cyangwa bakakuzanira abahanzi ahanywebwerebwa ahanywebwa ibinyobwa bisembuye.

Aha ni mu kabari, aho ushobora kuba wagenda hakaba hari ababyinnyi; ndetse aha ngaha haba harimo n'uburiro, aho ushobora kuba wafatira amafunguro yawe agiye atandukanye: aya sa sita na ninjoro cyagwa aya mugitondo.

Akabari, akabyiniro cyangwa se aho bafatira amafunguro. Aha ni aho bafatira amafunguro cyangwa aho barira cyangwa aho banywera ibinyobwa bivanze yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahanzwi nko mu kabari aho abantu basokera bashaka kunywa agasembuye cyangwa ushobora no kuba wahabona ibiribwa bigiye bitandukanye bikungahaye ku manyama.

Aha ni aho tuzi kwizina rya mukabari cyangwa mukabyiniro aho bagurisha ibikoresho cyangwa ibinyobwa bisembuye ndetse nibikoresho bikomoka byo gutumura ndetse nibyokurya.

Aha ni mu kabari cyangwa ahazwi nko ku izina ryo mu kabyiniro, aho ususurutswa n'abantu bagiye batandukanye ndetse ukaba wanahahahira cyangwa wahagurira ibinyobwa bigiye bitandukanye bikungahaye ku bisembuye n'ibidasembuye.

Aha ni aho umuntu ashobora kujya mu gihe ashaka ibijyanye no kuvanga imiziki yaba iy'amahanga cyangwa iyo mu Rwanda, ariko akanywa ikinyobwa cye yitonze yaba igisembuye cyangwa icyidasembuye.

Aha ni mu kabari cyangwa mu kabyiniro aho baba bagurisha ibinyobwa bisembu ndetse n'ibidasembuye. nk'urugero iyi ni fanta turi kubona cyangwa isolo turikubona ntago isembuye kandi ni mu kabari ushobora kuba wabona mo ibisembe cyangwa bidasembuye.

Aha ni ahazwi nk'akabyiniro mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyangwa akabari aho umuntu ashobora kuba yajya mu gihe ashaka ibinyobwa cyangwa ibiribwa bikomoka mu kabari cyangwa ibinyobwa bisembuye ariko ushobora no kuba wabona ibinyobwa bidasembuye.

Iki ni ikiranga cyangwa ikikumenyesha uburyo cyangwa ibiba bihari mu minsi y'icyumweru igiye itandukanye muri aka kabari cyangwa muri aka kabyiniro.

Aha ni mu kabari cyangwa mu kabyinoro aho umuntu ashobora kugenda agiye gufatira amafunguro cyangwa se icyo kunywa yaba igisembuye ndetse n'ikidasembuye byose urabihasanga.

Icyi ni igipapuro kimenyekanisha ibintu cyangwa ibicuruzwa muri ako kabari cyangwa muri ako kabyiniro cyangwa muri ubwo buriro; ibintu bafite, ibiciro byabyo, n'igihe bimara kugirango bibe bikugezeho.

Aha ni mukabyiniro cyangwa ahazwi nko mukabari , iki cyapa turi kubona nicyamamaza ubwoko bwikinyobwa gisembuye gikorwa n'uruganda burarirwa kizwi kwizina rya sikoro.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko mu kabari, aho wabasha kugura ibikoresho bikungahaye ku bisembuye cyangwa ibidasembuye, ku bizwi mu ndimi z'amahanga nka soda cyangwa akenshi usanga ari ibinyobwa bidasembuye cyangwa ibiribwa bigiye bikungahaye ku nyama, ku birayi, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabyiniro, aba ni abakozi tureba imbere yacu bashinzwe ku kwakira byaba mu kabyiniro cyangwa mu kabari mu gihe ushaka ibinyobwa byaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, aha ngaha niho wagera kugira ngo ahazwi mu kinyarwanda nk'akabyiniro cyangwa mu kinyayarwanda cyiza tuhita mu kabari.

Aha ni ahazwi nko mu kabyiniro cyangwa mu akabari, aho aba bantu tureba bari kunywa ibinyobwa bidasembuye kandi bikungahaye ku bintu bifite umusemburo uri hejuru.

Aka ni akabyiniro cyangwa aho bafatira amafunguro, aho ushobora kuba wagana bakaba bakugaburira ibiryo bigiye bitandukanye ndetse bakaba babasha no kuguha ibinyobwa bitandukanye yaba ibisembuye ndetse n'ibinyobwa bidasembuye.

Iki ni icyapa cyerekana ikinyobwa kizwi ku izina rya virunga, iki ni ikinyobwa gisembuye, aha kiba kigaragaza ko aho hantu bafite icyo kinyobwa ari mu kabari kandi ko nta mwana wemerewe kuhinjira uri munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Aha ni mukabyiniro cyangwa aho dukunze kwita mukabari, aho ushobora kuba wajye ukagura ibikoresho cyangwa ibinyobwa bisembuye, aha ngaha ushobora kuba wahahahira ibinyobwa bisembuye gusa bitavuzeko n'ibidasembuye biba bihari.

Ibikubiyemo; uru nii urupapuro ruba rukubiyemo ibintu cyangwa ibiciro by'ibinyobwa, ibiribwa bigiye bitandukanye ahongaho uba wagiye cyangwa muri ubwo buriro ahazwi nk'amaresitora bagenda batanga.

Aha ni mu kabari cyangwa se mu buriro, aho ushobora gusanga ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye. Gusa muri ibyo binyobwa, ushobora kuba no wahabona ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri, urugero; nk'inyama n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye, ibinyampeke n'ibindi byinshi cyane.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa se mu kabari, aho dushobora gusanga ibinyobwa bigiye bitandukanye. Ibyinshi dushobora gusangamo n'ibinyobwa biba bisembuye, tuzi nko kw'izina "ibisindisha", gusa si ibisembuye gusa, dushobora no gusangamo ibinyobwa bidasembuye nk'amazi, n'imitobe n'ibindi bigiye bitandukanye.

Akabyiniro cyangwa se akabari aha ni aho ushobora kuba wajya ugafatira ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye si ibinyoobwa bisembuye n'ibidasembuye gusa ahubwo ushobora no kuba wahafatira n'amafunguro ya sasita, aya nimugoroba ndetse naya mu gitondo.

Aha ni mu kabari cyangwa ahazwi nko mu kabyiniro, aho umuntu ashobora kujya ashaka ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye, nk'urugero, nk'ibi turi kubona kuri iki cyapa imbere yacu, ni ikinyobwa bita virunga n'ibindi binyobwa bitandukanye bigiye bisembuye.

Aha ni Remera ahazwi nko ku Gisimenti, ahangaha niho haba utubyiniro twinshi ndetse hakaba hari kitwa utubari tugiye dutandukanye nk'urugero icyapa turi kubona ki kinyobwa kitwa mitsingi(mitzig) gikorwa n'uruganda Bralirwa hano mu Rwanda, ni ikinyobwa kiri mu bwoko bw'ibinyobwa bisembuye

Aha ni mukabari cyangwa ahazwi nko mu kabyiniro aha tureba imbere yacu ni aho wabasha gufatira cyangwa gutumiza ibyo waba ukeneye mu ibinyobwa yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye,

Aha ni mu kabari cyangwa mu kabyiniro, ubu ni ubwoko bw'ikinyobwa gisemnbuye kizwi ku izina ry'inzoga; aho ushobora kuhajya ukaba wasusurutswa n'abantu bagiye batandukanye.

Akabyiniro cyangwa se ahazi nk'akabari. Aha ushobora kuba wahagurira ibikoresho bitandukanye, yaba ibisindisha cyangwa se ibidasindisha ahangaha si ibinyobwa ahubwo ushobora no kuba wahabona ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Aha ni ibyo tuzi mu kinyarwanda akabari cyangwa akabyiniro ahagurishirizwa ibinyobwa cyane cyane ibikungahaye kubisembuye ndetse ukaba wabasha no kubona ibidasembuye cyangwa ibiribwa.

Uru ni urupapuro rumenyekanisha cyangwa se rugaragaza ibyo umuntu aba agomba gufatira mu kabari cyangwa se mu buriro, ahantu aba yagiye kwiyakirira, bakwereka ibyo bagurisha ndetse n'igiciro fatizo cy'icyo kintu ashaka kugura.

Iyi ni ikayi cyangwa igitabo kikwereka ibikubiyemo mu byo aho hantu bacuruza, cyangwa ndetse n'ibiciro biba birimo mw'ibyo bintu baba bacuruza.

Aha ni aho bacururiza cyangwa bagurishiriza ibinyobwa bisembuye ariko aha ntibiba bivuze ko ushaka n'ibidasembuye utabiburamo.

Uru ni urupapuro rukumenyesha cyangwa rukuyobora ku byo wafata bitewe n'akabari cyangwa akabyiniro cyangwa uburiro. Aho bagufasha kumenya ibiciro ndetse n'ibyo bafite.

Uru ni urupapuro rukumenyesha cyangwa imenyekanisha ry'ibicuruzwa muri akakabari cyangwa muri ubu buriro bagira. Ibiciro, ibyo bafite n'igihe kimara kugira ngo bibe bikugezeho.

Aha ni mu kabyiniro cyaga ahazwi ku izina nko mu kabari, aho abantu bashobora kuba bajya bagasusuruka bakanywa ibinyobwa bitandukanye, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, ndetse aha agaha uba usanga ari no mu buriro.

Iri ni igipapuro kikumenyekanisha cyangwa kimenyekanisha ibiciro n'uburyo waguramo cyangwa ibyo muri ako kabari cyangwa muri ubwo buririro cyangwa muri ako kabyiniro bafite n'uko bigura.

Aha ni mu kabyiniro cyangwa se ahazwi nko mu kabari, aho umuntu ashobora kujya agasusurutswa n'abahanzi batandukanye cyangwa se ababyinnyi, cyangwa se bakakwereka n'indi myidagaduro igiye itandukanye. Aha ushobora kuba wahagurira ibinyobwa bitandukanye, cyane cyane ibikungahaye ku bisembuye.

Aha ni mu kabari cyangwa ahazwi ku izina ry'akabyiniro aho ushobora kuba wajya ukagura cyangwa ukihahira ibikoresho bisembuye n'ibidasembuye. Ahangaha uba ushobora no kuba wahabonera n'amafunguro.

Aha ni mu kabari cyangwa mu buriro. Aho ushobora kuba wajya ukaba waruhukira mu gihe wumva unaniwe nyine mu gihe wumva ushaka kurya cyangwa ushaka kunywa, haba hari ibinyobwa bitandukanye ndetse n'ibiribwa bitandukanye ahazwi nk'uburiro.

Aha ni ahazwi nko mu kabari cyangwa mu kabyiniro, aho wabasha kugura ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye, agakayi turi kubonabona imbere yacu ni uburyo bushobora cyangwa ibiciro bigenewe by'ako kabyiniro.

Aha ni mu kabari cyangwa mu kabyiniro bacuruza ibinyobwa cyane cyane bikungahaye ku misemburo ni ukuvuga ngo ibinyobwa bisembuye, hazwi ku izina rya Bahamasi gaherereye hano ku Gisimenti i Remera

Aha ni mu kabyiniro cyangwa ahazwi nko mu kabiri, aho umuntu ashobora kujya, akagura ibinyobwa bisembuye, gusa bitavuze ko n'ibidasembuye tutabiburamo. Nk'urugero: hano imbere yacu turimo turabona ikinyobwa cya fanta cyangwa umutobe.

Akabari cyangwa se akabyiniro, aha ni aho ushobora kuba wajya ukaba wagura ibikoresho cyangwa se ibinyobwa bisembuye cyangwa se ibidasembuye. Si ibinyobwa gusa, ahubwo aha ngaha ushobora no kuba wahasanga ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo inyama, ibirayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabari ahazwi n'akabyiniro aho ushobora kuba hahurira imbaga nyamwinshi zaje kwidagadura no gususurutswa n'abantu bagiye batandukanye abahanzi, abavangamiziki n'abandi bantu bagiye batandukanye aho ushobora kuba wabonamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Aha ni mu buriro cyangwa se aho ushobora kujya ushaka ibyo kunywa bidasembye n'ibyo kurya biciriritse, aha ushobora gusangamo amata, imitobe n'ibindi bigiye bitandukanye gusa aha nta kinyobwa gisembuye ushobora kubona.

Aka ni agapfunikwamo amata akazwi ku izina ry'akajerekani cyangwa se akabido, aha ngaha bapfunyikamo amata mu gihe umuntu ashaka kuyatwara yose cyangwa se mu gihe ashaka ko baba bamusukira akayanywera aho ngaho gusa iri duka ntabwo riba ryemerewe gucuruza ibintu bisembuye.

Ibi n'ibiribwa bicururizwa ahantu hagiye hatandukanye, ha handi twagiye tubona, ahazwi nka kantine cyangwa ahantu bacuruza ibintu bikungahariye ku mafarini. Iki kizwi kw'izina umugati; umugati ni ikiribwa gikorwa mu ifarini, ndetse kikaba gikorwa mu ngano.

Aha ni mu iduka, ibi tureba imbere yacu ni ibinyobwa bidasembuye bidafite umusemburo habe na muke aho ushobora kuba wahagera ukabigura ibi binyobwa cyangwa ukaba wagura n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Aha ni mu ikusanyirizo ry'amata ,ahagurishirizwa amata cyangwa ibinyobwa byose bidasembuye birimo imitobe n'ibindi bigiye bitandukanye ibivuguto, inshyushyu ndetse n'ibiribwa biciriritse.

Aka ni akaduka cyangwa ni akaduka gatoya gashinzwe kukugezaho amazi cyangwa amazi ukoresha unywa iwawe mu rugo cyangwa mu gihe ufite inyota bakaba bayaguhereza ukayanywera aho ako kanya.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata cyangwa ububiko bw'amata cyangwa iduka ry'amata rizwi nko kuva i nyanza. Rizwi nka nyanza indasitiri miliki zone. Aho bagufasha kuba baguhereza ibikorwa bitandukanye, ibicuruzwa bitandukanye bikomoka ku mata.

Iki ni icyuma cyangwa ni igikoresho kidufasha kugumana ubuziranenge bw'amata, ndetse akaba yabasha no kuba yaza afite umwuka mwiza, ndetse akaza akonje, iki cyuma gituma amata atabasha gupfa kuko gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bibasha kuyabifashamo.

Amandazi ni ururimi rw'abaturanyi mu giswayili ni madazi mu Kinyarwanda aya tuyita amandazi, ni ikiribwa gikorwa mu ifarini bakaba bagenda bongeramo imisemburo igiye itandukanye kikaba gitekwa hifashishijwe amavuta yo mu bwoko bw'ubuto.

Amandazi: Amandazi ni ikiribwa cyo mu rwanda gikoreshwa mu ifarine, gusa si mu rwanda gusa ahubwo kiba ahantu hagiye hatandukanye, aha turi kureba ni muri kantine aho biba biba, ushobora no gusanga ibinyobwa bidasembuye biba bikungahaye ku ntungamubiri.

Aha ni ikusanyirizo ry'amata cyangwa iduka ry'amata, ahacururizwa ikinyobwa cy'amata ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye birimo imitobe, aya mata akaba aturuka mu karere k'i Nyanza mu gihugu cy'u Rwanda.

Iki kinyabiziga tureba ni cyo kidufasha kutugezaho ibyavuye cyangwa umusaruro watanzwe n'inka ari we amata, ikaba ibasha kubigeza kuri iri duka, na bo bakabasha kubicuruza ku bakiriya babo cyangwa ku babagana.

Mu ndimi z'amahanga bazita amandazi, ibingibi ni ibiribwa bikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku mazina y'amatirano twabyise amandazi. Ibi ni ibiribwa bikozwe mu ifarini no mu bindi bigiye bitandukanye, aho babiteka mu mavuta bikaza kuvamo icyitwa amandazi.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye aho imbere yacu turi kuhabona amazi, ibi ni ibinyobwa bitaba bisembuye, ikindi turi kubona baba bacuruza n'ibiribwa bigiye bitandukanye aho turi kubona amandazi, ibiraha n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uru ni uruganda cyangwa ni akaganda gatoya gahagarariye inyange mu baturage, aho ushobora kuhaza bakakugezaho amata y'inyange ndetse n'iki turi kubona bari kuyakuramo ni ikiyakonjesha ndetse kikayafasha kuba yagumana ubuziranenge bwayo.

Aka ni agapaki kajyamo ibyo kurya bicuruzwa n'ahantu bacuruza ibinyobwa bidasembuye, ahazwi nka kantine, iyi shashi turi kubona harimo icyo kurya gikungahaye kw'ifarini ndetse giteretse ahantu batereka amagi, icyo tuzi nk'agatoreye mu kinyarwanda.

Kantine mu indimi z'amahanga . Iri ni iduka riba ricuruza ibinyobwa byose bidasembuye ndetse n'ibiribwa biciriritse ariko bikungahaye ku mafarini, ibyo dusangamo ni isambusa mu ndimi z'amahanga, aaa capati imigati n'ibindi bigiye bitandukanye . Muri ibyo byokunywa dusangamo imitobe, amata n'ibindi bikiye bitandukanye .

Aha ni mu iduka ry'amata cyangwa mu ikusanyirizo ry'amata, aho ushobora kuhasanga ibinyobwa bidasembuye birimo amata ndetse n'imitobe ndetse n'ibyo kurya bidakungahaye ku binyabinure.

Ahangaha ni mu buriro, aho ushobora kuba wajya ukagura, cyane cyane haba harimo ibinyobwa bidasembuye n'ibyo kurya n'amafunguro agiye atandukanye, aho ugenda ukayafata.

Aha ni aho bagurishiriza ibyo kunywa bidasembuye bijyanye amata, imitobe cyangwa ukaba warira ibiryo bikungahaye ku mafarini cyangwa ahazwi nk'ikusanyirizo ry'amata.

Aha tureba ni abana bari bagiye mu iduka ricuruza ibinyobwa bidasembuye bikungahaye ariko kumata ndetse n'imitobe hano uba usanga bayigira kenshi, ndetse bari kurya ibikomoka ku mafarini.

Aha ngaha ni ahazwi nko mu buriro dukunda kwita muri kantine, aho umuntu ashobora kujya ashaka icyo kunywa gikungahaye ku mata kidasembuye, aho dushobora gusangayo icyayi, aho dushobora gusangayo imitobe n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka abantu bajyamo bagiye kunywa ibikomoka ku nka aribyo amata, ndetse aho bashobora no kuba bafata ibikomoka ku mafarini.

Aha ni aho ushobora kugana mu gihe wumva ushaka amata cyangwa ushaka ibindi biribwa bigiye bitandukanye aho wagurira amata cyangwa amazi cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'imitobe n'ibindi bintu nk'ibyo.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata cyangwa aho bagurira amata, iduka ry'amata, akorwa n'uruganda inyange, aho ushobora kuba waza ukahagurira amata cyangwa ukaba wahagurira n'ibindi binyobwa byose bidasembuye aribyo imitobe bikorwa n'uruganda inyange.

Aha ni mu ikusanyirizo ry'amata aho bagufasha kuba baguha ibinyobwa bigiye bitandukanye ibikomoka ku mata ndetse n'ibindi bikomoka ku nka ibyo ari byo byose byo kunywa, ariko bitavuze ko ari amata gusa baba bafite n'ibiribwa birimo bikungahaye ku ma farini nk'imigati, amacapati, amandazi n'ibindi.

Aha ni mu iduka ry'amata, cyangwa su ikusanyirizo ry'amata, aho ushobora kuhasanga ibikomoka ku mata byose yaba ibinyuzwa mu nganda, ndetse n'ibiza ako kanya, ndetse n'ibinyobwa bidasembuye.

Aha ni ahakusanyirizwa cyangwa ni mu iduka ricuruza ibinyobwa bidasembuye, birimo imitobe ndetse bakaba banagurisha amata n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umutobe ukorwa na uruganda Inyange, ni umutobe ukozwe mu matunda no mubindi bigiye bitandukanye, ukaba ukungahaye kuri ku ntungamubiri C.

Iyi tubona ni isahani nibintu bizwi kubiraha. Ibiraha ni ikintu kimaze gufata cyangwa gikundwa cyane n'abana bari hagati yimyaka makumyabiri n'itanu kumanura.

Aha ni mu iduka rishinzwe gucuruza ibinyobwa bidasembuye, aho ushobora kuhasanga n'ibiribwa bidakungahaye ku nyama, aho baba bacuruza ibi: amata, imitobe n'ibitoke bitandukanye.

Aha ni mu iduka rishinzwe cyangwa riba ryakugezaho ibiribwa byose bigiye bitandukanye harimo nk'ibyo twakita imineke n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyobwa bidasembuye.

Ibi tureba imbere yacu ni ibinyobwa bidasembuye ariko bikungahaye ku mata, aho binyuzwa mu nganda bikongerwamo ibindi bigiye bitandukanye n'amasukari n'ibindi bikungahaye ku masukari.

Aha ngaha ni mu iduka rishinzwe kukugezaho cyangwa kugushyikiriza ibyo uba ushaka ariko bikungahaye ku nka aribyo amata cyangwa imitobe byose cyangwa ibyo kurya bikungahaye ku ifarini ku gihe.

Iri ni iduka umuntu ashobora kuba yafatiramo nk'utwa mu gitondo cyangwa ifunguro rya saa sita cyangwabo ndetse n'irya nimugoroba baba bafite ibintu bikomoka ku mata ndetse n'ibikomoka ku mitobe n'ibyayi, n'ibikomoka ku mafarini byose.

Iki ni icyapa kigaragaza izina rya kantine cyangwa i ry'ahantu ry'iduka ricuruza ibinyobwa bikungahaye ku mata ndetse n'imitobe, aha ngaha hitwa ikaze, ikaze bivuze ngo murakaza neza murisanga, ni ukuvuga ngo aha ngaha ushobora kuba wahasanga ibinyobwa bitandukanye ariko biba bidasembuye.

Aya ni amaduka aherereye ku Gisiment hano i Remera aho aya maduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye, umuryango wa mbere uba usanga ari uw'ibintu bijyanye n'inyama, uwakabiri ni ibintu bijyane n'imiti, then uwagatatu n'umuryango ucururiza imyambaro, umuryango wa kane n'ahacururizwa amata cyangwa se ikusanyirizo ry'amata.

Aha ni mu iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bidasembuye harimo amata ndetse n'imitobe n'ibindi biba bigiye bitandukanye IBI tureba imbere yacu ni bimwe mubiribwa bacuruza harimo imineke, harimo amagi akomoka ku nkoko ndetse n'ibindi harimo capati n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka cyagwa ikusanyirizo ry'amata by'uruganda inyage, harimo n'ibindi binyobwa bikomoka ku mitobe ariko akaba ari iby'uruganda inyage, ariko hakaba hanarimo ibintu byo kurya bigiye bitandukanye bikomoka ku ifarini.

Aha ni mwiduka cyangwa ahazwi nko mwikusanyirizo ry'amata aho ubasha kuba wagura ibintu bigiye bitandukanye ibinyobwa bidasembuye ndetse n'ibiribwa bidakungahaye ku nyama nk'urugero dukoresheje amazina y'amatirano turabona capati, amagi, imineke ndetse n'amandazi.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata cyangwa ahacururizwa amata, aho ushobora kuba wagura amata cyangwa wagurira imitobe igiye itandukanye, bikaba bikomoka mu ruganda inyange.

Ibi ni ibiribwa bikoreshwa mu makantine cyangwa mu nzu zicuruza ibintu bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wabigura. Biba bikozwe mu bintu bitandukanye, harimo ingano ndetse n'amafarini.

Iki ni ikicaro cy'inyange aho ushobora kuba wahajya ukaba wagura ibinyobwa bigiye bitandukanye ariko bidasembuye haba harimo amata, imitobe n'ibindi bitandukanye n'ibyo kurya biciriritse.

Aha ni ku ikusanyirizo ry'amata cyangwa n'ibindi bintu byose bikomoka ku mata yaba ari inshyushyu cyangwa ikivuguto, ushaka kuyagura kuyanywa ako kanya cyangwa kuyatwara.

Iri ni iduka, iri duka ricuza amata cyangwa icyayi, rikaba ricuruza ibinyobwa bidasembuye, bikubiyemo amata, icyayi, imitobe n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye biciriritse bikungahaye ku mafarini.

Iki ni icyuma kigumana kikanazirikana ubuziranenge bw'amata aho ushobora kugishyiramo amata akamara igihe ndetse akagumana ubuziranenge bwayo ndetse akaza yarushijeho gukonja, aha bari bari kuyasuka bayavana mu cyansi bayashyira muri iki cyuma.

Kantine cyangwa se ahacururizwa amata, iri ni n'iduka cyangwa ikusanyirizo ry'amata aho ushobora kubonamo ibinyobwa bitandukanye n'ubwo bitaba ari amata gusa bidasembuye nk'imitobe ndetse n'ibindi bisa nkayo. Ahangaha ushobora no kuba wabona ibyo kurya bikungahaye ku mafarini.

Aya ni amagi aho ushobora kujya ukagurira amagi aturuka ku nkoko cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose bituruka ku nka nk'amata, imitobe bigiye bitandukanye, kugira ngo ube wabasha kureba ko wahembuka mu gihe wumva bitameze neza mu gifu cyawe.

Iri ni iduka rigurisha ibikoresho cyangwa ibituruka cyangwa ikusanyirizo ryo ku mata, ariko akaba aturuka I Nyanza, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ariko bidasembuye.

Aha ni mu ikusanyirizo ry'amata aho umuntu ashobora kujya akaba yagurira amata y'ubwoko bugiye butandukanye; ikivugo, inshyushyu ndetse n'ibindi byose bituruka ku mata yaba ibyongerwamo isukari n'ibitongerwamo amasukari, amata ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye n'imitobe ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye.

Aha ni ku ikusanyirizo ry'amata rikorwa n'uruganda inyange, aho umuntu ashobora kugana ashaka ibyo kunywa bitandukanye bidasembuye ndetse n'ibyo kurya ,bikungahaye ku ifarini n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye. Aho udashobora gusanga mu mazu y'uburiro tuzi nko k'utubari.

Aha ni mu iduka ikigaragara cyo ni mu iduka ricuruza ibintu bikungahaye ku mata cyangwa se ku mitobe nk' ubu izi n' impapuro ushobora kubawafatisha ibintu biba ibyo kurya wafatisha izi mpapuro zigufasha kuba wafata kna capati cyangwa se irindazi bidasabye ko mujya kwa gukaraba intoki

Iki ni icyuma kigufasha gutunganya cyangwa ikaba cyahereza ubuziranenge bukwiriye amata aba yaturutse ku nka, aho hazwi ku bicuruzwa by'amata.

Aha ni muri kantine cyangwa ahazwi ahafatirwa amafunguro, inzu y'amafunguro. Aho ushobora kuba wahajya ushaka ibinyobwa bidasembuye harimo amata, ikivuguto, inshyusyu cyangwa n'imitobe.

Aha ni ahabikwa cyangwa ni mu iduka ry'ibijyanye n'amata byose, aho baba babasha kuguha amata hifashishijwe ibi bikoresho uyatwaramo ku buryo bw'ubuntu, ukaba wayajyana iwawe ugasagira n'umuryango wawe.

Iri ni iduka cyangwa ikusanyirizo ry'amata, ry'uruganda ruzwi nka Nyanza. Aho wabasha kuba wagurira amata cyangwa n'indi mitobe ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, ariko ibyo binyobwa bikaba bidasembuye.

Iki ni ikiribwa gifatishwa icyayi cyangwa amata; mu Kinyarwanda, hano mu Rwanda tubyita capati. Gikungahaye ku ntungamubiri kuko gikorwa mu ifalini. Capati ushobora kuba wayifatisha icyayi cyangwa amata: yaba ikivuguto, yaba inshyushyu, ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, bidasembuye.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bidasembuye, aho ushobora kujya ukabona amata yo kunywa cyangwa se ukaba wabona umutobe, cyangwa ukaba wabona ibyo kurya bidakungahaye kuri vitamini harimo: amandazi, capati, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni ahazwi kwikusanyirizo ry 'amata cyagwa ibikungahaye ku mata byose gusa si ibyamata ushobora no kuba wahagurira amazi ibikomoka Kuma farini ndetse n'imitobe ikorwa n'uruganda rw'inyange cyagwa inganda zigiye zitandukanye.

Iri ni iduka bacururizamo ibikoresho cyangwa ibiribwa byose bikomoka binava kumata, harimo ibinyobwa ndetse ibiribwa bizwi kumavuta y'inka.

Iri ni mu iduka aho umuntu ashobora kujya ashaka kuba yafata ibyo kunywa bidasembuye harimo, amata, imitobe, icyayi, n'ibindi bikungahaye ku binyobwa bidasembuye, bitarimo umusemburo.

Aha ni ikusanyirizo ry'amata, aho umuntu cyangwa ushobora kugera unaniwe bakaba babasha kuguhereza amata cyangwa iduka ricuruza ibikungahaye ku mata ndetse ukaba wanahabonera ibiribwa cyangwa imitobe igiye itandukanye.

Aha ni ku ikusanyirizo ry'amata aho dushobora gusanga ibyo kurya biciriritse harimo amacapati n'ibindi bigiye bitandukanye, gusa aha ngaha dushobora kuhasanga n'ibindi binyobwa bidakungahaye ku misemburo.

Ibi ni ibiribwa bikungahaye ku mafarini, aho ushobora kuba washyiramo ibirayi. Mu kinyarwanda cyiza tubizi ku biraha, ni ibiribwa bikundwa cyane cyane n'urubyiruko, aho bashyiramo ifarini, bakagenda bashiramo n'ibindi binyabutabire bitandukanye.

Ibi ni ibiribwa bikungahaye ku ifarini cyangwa se Bikorwa mo n'ifarini, bikaba bitekwa mumavuta ndetse bikaba bagenda bongeramo imusemburo igiye itandukanye, akenshi tuyisanga mumaduka acuruza ibikoresho cyangwa se ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye.

Aha ni aho babasha kuba bagurira, cyangwa kuba babasha kwifashisha kukoresha ibikoresho bikungahaye ku mata, cyangwa biva ku nka, yaba ibinyobwa cyangwa ibiribwa, ibizi mu ndimi z'amahanga yahurute.

Iri ni iduka rigiye ritandukanye mugucuruza ibintu bikungahaye kumata kumitobe ibyokunkwa ndetse nibyo kurya.

Mu kinyarwanda ibingibi ubundi tugenekereje babyita udutungagegera ibi ni ibiribwa bikunda cyane cyane n'urubyiruko aho tubizi ku mazina y'amatirano nk'isambusa cyangwa udutungagegera.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata. Ibizwi nko ku izina icyansi, ahabikwa cyangwa ahashyirwa amata, umuntu akaba yabasha kujya kuyagura cyangwa akaba yagezwa ahabugenewe, cyangwa ku makusanyirizo y'amata.

Aha ni mu iduka ricuruza ibinyobwa bidasembuye ari byo amata n'imitobe. Ibi ni udupfunyika turikubona turimo ibintu bigiye bitandukanye bikungahaye ku mafarini, nk'urugero muri utu dupfunyika harimo ibyo tuzi ku maina ya keke.

Utu ni udushinzwe kujyamo amata cyangwa se udufunyikwamokubikwamo amata yo muri kantine cyangwa se ahacururizwa amata, umuntu ashaka kukajyana bashobora kuba bakamuha cyangwa se mu gihe ashaka kuyanywera aho bakaba bamusukiramo bakamuhereza.

Iri ni iduka ryakira abantu baba bashaka kwica isari cyangwa kurwanya isari kurwanya inzara mu Kinyarwanda cyiza, ariko ibyo biribwa bikaba bikungahaye ku mafari ndetse n'ibinyobwa bikaba bidasembuye.

Amandazi mu ndimi z'intirano. Aya ngaya ni amandazi aho akorwa mu mafarini agiye atandukanye, aho ibi biribwa bicuruzwa mu makantine agiye atandukanye cyangwa mu makusanyirizo y'amata.

Amata. Uyu ni umucuruzi w'amata turi kureba imbere yacu. Aya mata ari mu bwoko bugiye butandukanye, hari amata anyuzwa mu nganda akaba yabasha kongerwamo ibindi binyabutabire bigiye bitandukanye, bikungahaye ku masukari. Tukaba turi no kureba imbere yacu ikivuguto. Ikivuguto ntahandi kinyuzwa aba ari umwimerere.

Iri ni ishami cyangwa ni ahacururizwa icyayi kizwi ku ikawa, aho bagufasha kuba wanywa iyo kawa ndetse bakaba bafite n'ibindi binyobwa bidasembuye.

Aha ni agashami gatoya k'uruganda ruzwi kw'izina rya Mukamira, ricuruza ibinyobwa bidasembuye bikungahaye ku mata ndetse n'imitobe igiye itandukanye.

Iri ni iduka ushobora kuguramo ibintu bikomoka ku mata cyangwa amazi yo kunywa iwawe mu rugo, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, birimo ibyo kurya bituruka ku mafarini.

Ibi ni ikiribwa biboneka muri kantine cyangwa se ibiribwa biboneka ahacururizwa amata cyangwa se ibinyobwa bidasembuye, ibi biribwa babyita keke mu ndimi dutira amahanga, bikaba bikungahaye ku ifarini n'ingano n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu ikusanyirizo ry'amata aho umuntu ashobora kujya ashaka ibinyobwa bikungahaye ku mata ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye. Nk'uko tubibona nyine, aha uyu umuntu yari aje kugura umutobe ari kumwe n'umwana mutoya, yari aje kumugurira amata ndetse n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ricuruza ibintu byose bikungahaye ku mata cyangwa ku binyobwa bijyanye na mukamira, amata afunze ndetse n'adafunze, yaba ikivugo yaba ishyushyu bifunzecyangwa bidafunze ndetse bakaba banagufasha wanabona ibyo kunywa bishyushye cyangwa bikonje.

Aha ni ikusanyirizo ry'amata rikorwa n'uruganda Mukamira cyangwa ahacururizwa ibinyobwa bidasembuye bikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye ndetse n'amazi ndetse n'ibiribwa bigiye, twakwita nk'ibiciriritse nk'amandazi ku mazina y'amatirano n'ibindi bigiye bitandukanye, imikati.

Aha ni mu ikantine, ahazwi nk'u buriro cyangwa ahazwi no muri ubunywero bw'ibinyobwa bidasembuye. Aha ushobora kuhagera iyo ushaka kuba wagura ikinyobwa icyaricyo cyose cyangwa kuba wagura amata . Ndetse bababafite n'ibiribwa bikungahaye mu kafarini.

Iri ni iduka rushinzwe gucuruza ibinyobwa bidasembuye, aho dusangamo amata y'inshyushyu, amata y'ikivuguto ndetse n'amata yo mu cyayi. Ahangaha turi kubona imbere yacu ikiribwa gikozwe mu ifarini, kizwi kw'izina amandazi ndetse n'igikombe cy'amata y'inshyushyu ndetse hirya hari n'igikombe cy'icyayi.

Aha ni mu gakantine cyangwa mw'ikusanyirizo ry'amata, aho baba bacuruza ibinyobwa bidasembuye. Aho ushobora kujya ukaba wagurira umutobe cyangwa amata yawe.

Iki ni icyapa kerekana ikicaro gitoya cy'uruganda Inyange, cyangwa abahagarariye ibikorwa by'uruganda Inyange rucuruza ibinyobwa bidasembuye, harimo: amazi, ndetse n'amata, ndetse n'imitobe igiye itandukanye.

Aha ni mu iduka ricura amazi cyangwa ibinyobwa bidasembuye bidasembuye. Nk'urugero aya macupa tureba imbere yacu ni amacupa akorwa n'uruganda ruzwi ku izina rya nile ryamaze gufata irindi zina muri iki gihugu ndetse no muri afurika yose.

Iri ni iduka ricuruza cyangwa se ritanga ibintu bikungahaye ku mata. Cyane cyane urugero, iki turikubona ni icyuma kibasha kuba cyabika amata neza, aya mata akaba yagumana umwimerere wayo, ndetse akaba aturuka mu karere ka Nyanza, mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda.

Aha ni mw'iduka ry'ibinyobwa bidasembuye. Harimo amata, n'amata akungahaye kubinyabutabire bigiye bitandukanye, harimo amasukari agenda yongerwamo. Akaba ari naho ushobora kuba wagura ibiribwa bigiye bitandukanye n'ibinyobwa bitandukanye ako bidakungahaye kubisembuye, bikaba ari ibinyobwa bidasembuye.

Iki ni icyuma cyivamo amata aho ushobora kuba wajya ahazwi nko muri kantine ukaba wabasha kugura amata ndetse iki cyuma cyibasha kuyakonjesha akagumana n'ubuziranenge bwayo.

Ahagurishirizwa ibikoresho cyangwa ibiribwa bikomoka ku mata ndetse nibyo kurya wakifashisha uri kumirisha ayo mata.

Iki ni igikombe cy'amata, aha tureba cyari kiri, ni ahacururizwa cyangwa ikusanyirizo ry'amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byaba bikungahaye ku mafarini cyangwa imitobe.

Aha ni mu ikusanyirizo ry'amata, cyangwa ahacururizwa amata n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye bikungahaye ku mafarini ndetse n'ibindi binyobwa nk'imitobe ariko bidasembuye.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bikomoka ku mata. Aho ushobora kuba wagura ibintu ibyo ari byo byose bikomoka ku mata, yaba ibyaciye mu nganda cyangwa ibitaracamo. Aha haba harimo n'ibindi biba bigiye bitandukanye, by'imitobe.

Ikigaragara cyo aha ni mu iduka, aho ushobora kuba wagurira ibinyobwa bidasembuye nk'amata cyangwa se imitobe. Iki ni icyuma gishinzwe gukonjesha ya mata cyangwa se ya mitobe kugira ngo igumane ubuziranenge bwazo.

Aha ni aho bagurira ibintu bijyanye n'amata, ahazwi ku izina rya Canteen, mu ndimi z'amahanga, aho ushobora kuhagurira icyayi, amata ( yaba inshyushyu cyangwa ikivuguto, yaba afunze cyanga adafunze), n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Uyu ni umwana uba uri mu ahakusanyirizwa amata cyangwa ahacururizwa amata, aho dushobora no kuhabona n'ibindi harimo n'imitobe ibi byo kurya bikungahaye no ku mafari.

Aha ni ku ikisanyirizo cyangwa mu iduka ry'amata, aho ushobora kubona amata ndetse n'bindi binyobwa bidasembuye, harimo imitobe ndetse n'ayo mata y'ikivuguto ndetse n'inshyushyu.

Iri ni iduka rigurisha cyangwa ikusanyirizo ry'amata, aho wabasha kugurira amata mu gihe wumva utamerewe neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukaba wabasha kuhagera kugira ngo bagufashe mu kugura ibyo bikoresho.

Ibi ni ibiribwa bikozwe mu mafarini aho dushobora kubisanga nk'ahantu bacururiza amata cyangwa ahazwi ku izina rya kantine, iki kiribwa kizwi ku izina mu Kinyarwanda gusa bitavuze ko ari Ikinyarwnda ahubwo ni izina ry'iritirano kizwi ku izina rya capati.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata cyangwa aho bagurishiriza amata n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byaba ibikungahaye ku mitobe cyangwa ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Aka ni akabido cyangwa agapfunyikwamo amata, amata y'inka ikivuguto cyangwa inshyushyu, aho ushobora ku kabona mu maduka acuruza ibi binyobwa by'amata.

Aha ni aho bagurishiriza, cyangwa ni iduka, cyangwa ikusanyirizo ry'amata akorwa n'uruganda rwa Nyanza, cyangwa n'ibindi biribwa byose bikomoka ku mata.

Iri ni iduka rishinzwe gucuruza ibinyobwa bidasembuye bikungahaye ku mitobe cyangwa bikungahaye ku binyobwa by'amata cyangwa aho wabasha kugurira ibiribwa bikungahaye ku mafarini.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bidasembuye aho ushobora gusangamo amata cyangwa se imitobe sibyo gusa ushobora no gusangamo ibiribwa biciriritse bikorwa n'amafarini, cyangwa se ibyo tuzi nka capati amandazi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Kantine cyangwa se iduka ricuruza ibinyobwa cyangwa se ibiiribwa biciriritse, ibi binyobwa ntago biba bisembuye ni amata n'umutobe n'ibyo, ibindi bacuruza aba ari imineke cyangwa se ibindi bikungahaye ku mafarine.

Aha ni mu iduka aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye bikomoka ku nkoko, aribyo tureba imbere yacu. Ari amagi bakaba babasha no kubikugezaho mu buryo bugiye butandukanye.

Aha ni ahacururizwa ibinyobwa bidasembuye bikomoka ku mata, ibyo aho babinyuza mu nganda bikaba byavamo icyo tuzi ku izina ry'amatirano, kizwi ku izina rya yawurute ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye bituruka ku mata n'imitobe.

Uyu ni umuryango, winjira ahantu cyangwa mu ikusanyirizo ry'amata aturuka mu karere ka Nyanza, mu majyepfo y' u Rwanda. Aho ushobora kuba wagenda bakaguha n'ibindi binyobwa bitandukanye, ariko bidasembuye.

Aba ni abacuruzi cyangwa abakozi babifitiye ububasha, bashinzwe kuba bafasha abantu bakoresha umuyoboro wa Emutiyeni, kuba babagurira amayinite, kuba babafasha kugura ibindi bigiye bitandukanye, kubitsa n'ibindi bitandukanye.

Aha ni ku mukozi wa emutiyrne ubishinzwe ishinzwe kukuzesaho bimwe mu bikorwa cyangwa bimwe mu bibazo waba ufite , harimo kugura amayinite, kohereza amafaranga kubitsa amafaranga ndetse no kubikuza.

Uru ni urubuga rwa emutiyene, aho ushobora kuba wakora ibikorwa bigiye batandukanye, aho ushobora warukoresha ugura amayinite, aho ushobora kuba warukoresha uhuza emutiyene yawe cyangwa se umuyoboro wawe ndetse nama bake aho ubika amafaranga kuma bake.

Aha ni ahakorera umukozi wa emutiyeni ahazwi nko mukazu ka emutiyeni, aho ushobora kuba wajya ukagura ibintu bijyiye bitandukanye harimo amayinite, kubitsa, kubikuza n'ibindi bigiye bitandukanye byerekeranye n'umuntu ukoresha umuyoboro wa emutiyeni

Aho ni aho babikuriza bakanabikiriza amafaranga cyangwa ushaka kuyoherereza nk'umuntu utari hafi wagana iryo shami rya mtn bakaba babasha kugufasha .

Aha ni ahakoreshezwa cyangwa uburyo ufashwa mu kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga rya MTN, hifashishijwe amakarita cyangwa mu buryo bwo kugira ngo wishyure ubwishingizi bwawe.

Aha ni ku kazu ka MTN, cyangwa se agashami gato ka MTN, aho ushobora kuba wabagana bakaba nagufasha kugera kuri byinshi bikorwa na MTN. Bakaba nagufasha kugura amayinite, kohereza amafaranga, kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga.

Aha ni mu iduka ry'ikoranabuhanga n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, aho ushobora kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa ukishyura ukoresheje, yaba terefone igendanwa cyangwa ikarita yawe.

Ubu ni uburyo umuntu ukoresha ishami cyangwa emutiyeni. Ashobora kwishyuriraho cyangwa akaba yakishyurirwaho mugihe akeneye gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, cyangwa telefone igendanwa.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga aho uba waguza nk'ikintu ushaka ariko wifashishije uburyo buzwi nka kiyu ara kode aho ukigurira onulayini cyangwa aho wishyura onulayini byose bigakorerwa ku mbuga nkoranyambaga.

Ubu ni uburyo bwa MTN aho ushobora kuba wakohereza amafaranga wifashishije ikoranabuhanga, ukaba wayavana ku muntu umwe uyashyira ku wundi, ushyizemo imibare ikizwi nka nomero; akaba yabasha kubona amafaranga, gusa hano ho urakatwa.

Aha ngaha tubona ni ahantu umuntu ashobora kujya mu gihe ashaka bimwe mu bikorwa bya emutiyeni ikigo k'itumanaho mu Rwanda, aho ushobora kujya mu gihe ushaka kubikuza, aho ushobora kujya mu gihe ushaka kubitsa cyangwa se mu gihe ushaka kugura amayinite n'ikindi kibazo cyose waba ufite kubijyanye n'uyu murongo wa emutiyene.

Uyu ni umufatanyabikorwa wa MTN, aho agufasha kuba watsindira ibihembo bigiye bitandukanye ku bantu bakoresha uyu muyoboro wa MTN ndetse no gushishikariza abandi batawugana kuba bawugana n'ibyiza byawo.

Iyi ni inzu cyangwa ibyo twakwita nk'agashami gatoya ka emutiyeni gashinzwe kubikirizwaho cyangwa koherezwaho amafaranga no kuguriraho amayinite.

Uru ni urubuga rw'umuyuboro ruzwi nka eyateri, aho rugufasha kuba wagura ibikoresho bigiye bitandukanye, cyangwa ukaba waguriraho amayinite, cyangwa ukaba wakoherezaho amafaranga wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aba ni abakozi ba emutiyeni babishinzwe, aho bashinzwe kuba bakugezaho ibintu bigiye bitandukanye, cyangwa bimwe mu bikorwa by'uyu muyoboro wa emutiyeni, ushaka nko kugura amayinite, ushaka kwiyandikisha kuri uyu muyoboro, n'ibindi bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwiza bworoshye kandi bwo kwishyura ukoresheje MTN, ibi babyita MoMo Pay, niko MTN yabyise, aha rero wishyura nta kindi kiguzi bagusabye nta mafaranga yo gukatwa cyangwa se yo gukata bogeyeho.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya emutiyeni. Aho wishyura ukoresheje imibare bitagusabye ko wakongezwa andi mafaranga yo gukatwa ahubwo ukabikorera ku buntu.

Aha ni mu iduka ricuruza ibinyobwa bidasembuye aho ushobora kuba wajya ukagura ibinyobwa byose bidasembuye birimo imitobe, amata n'ibindi bbitandukanye, aha ngaha ushobora kuba wahajya ukishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aha ni ku mukozi wa MTN. Aho agushyira mu ikayi y'abiyongera ku mubare w'imiyoboro yagurishije ku munsi ku bizwi nka simu cadi. Aho aba wabasha kugufasha kugera kuri byinshi kugura ama inite, kuba yakuyobora, kuyigufungurira, byose byose mu buryo bwo kubigufashamo.

Utu ni utuzu twa airtel ndetse na mtn aho umukozi umwe ashinzwe kuba yagufasha ku bijyanye na airtel ushaka kubitsa kuri airtel, kugura amayinite kuri airtel, cyangwa se ushaka kohereza amafaranga kuri airtel wagana uyu nguyu yagufasha nuwa mtn ni uko ushaka ibijyanye yagufasha.

Aha ni ku ishami ritoya rya MTN, aho ushobora kuba wagana bakagufasha kuba wabona simukadi, waba uvuye mu mahanga cyangwa waba udafite irangamuntu y'u Rwanda cyangwa ubwenegihugu bw'u Rwanda, aho babasha kuba bahuza ibyangombwa byawe n'ibyabo ariko ukabasha kuba wabona nawe umuyoboro wa MTN kandi ukubaruyeho.

Uyu ni umukozi ubishinzwe wa MTN ushinzwe kuba yagufasha kugura amayinite cyangwa kuba yagufasha kubitsa cyangwa kubikuza cyangwa ushaka koherereza amafaranga undi muntu.

Aka ni agashami gatoya ka emutiyene. Aho umukozi wabo aba yemerewe kuguhereza amayinite, kukubikiriza ku buntu, ndetse no kuba yakohereza amafaranga ku wundi muntu uri kure yawe, cya kuba yakubikiriza amafaranga.

Aha ni kukicaro gatoya ka Emutiyeni, aho ushobora kuba wagenda, bakagufasha mu bintu bitandukanye, nko kugura amayitine, kubitsa, kubikuza cyangwa ushaka horereza umuntu amafaranga, si ibyo gusa bahufasha no mu bindi bigiye bitandukanye, waba wahuye nabyo mu buryo bwo kohereza amafaranga ukoresheje uyu muyoboro.

Iyi ni imibare ndetse iherekejwe n'amazina iyi mibare igufasha kuba washyiramo, ukaba wabasha kwishyura ukoresheje kode, ibizwi nka kode cyangwa MoMo Pay, kwishyura ukoresheje MoMo ni cyo bivuze, ndetse ukabona aya mazina, ukaba wabasha kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aha ni ku Ishami rya emutiyeni, aho ushobora kugerayo bakaba bagufasha ibikorwa bitandukanye, nko kuba wagura umuyoboro wabo cyangwa nko kuba wabasha kuba wabitsa amafaranga cyangwa kubikuza, cyangwa ukeneye kuba wagurayo amayinite, byose babigufasha kubyerekeranye n'umuntu ukoresha umuyoboro wa emutiyeni cyangwa uwifuza kuwukoresha.

Aba ni abacuruzi cyangwa ni abashoramari bagiye batandukanye, ariko uyu tureba ni umukozi ushinzwe ishami rya emutiyene, aho yagufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyangwa ni umufatanyabikorwa wa emutiyene.

Uyu ni umufatanyabikorwa wa MTN, cyangwa uwo twakita nk'umukiriya wa MTN, aho yatsindiye igare, aha ngaha abakiriya babo cyangwa abafatanyabikorwa baho, babahereza ibihembo ku butandukanye.

Iri n'iduka cyangwa ni kukicaro cya MTN. Aho ushobora kuba wagenda bakaguhereza telefoni zabo zizwi kw'izina rya make make, cyangwa se ukaba wagenda wahagura ama inite cyangwa se ibindi bikorwa byose waba ukeneye kuri MTN, naha wagana.

Uyu ni umukozi wa emutiyeni ubishinzwe, aho ashinzwe kukugurira amayinite, cyangwa ashinzwe kuba yagufasha mu bikorwa bitandukanye nko kukoherereza amafaranga, kukubikiriza amafaranga cyangwa kugufasha kubikuza amafaranga.

Aka ni akakuyobora uburyo ki wakishyura cyangwa se imibare washyiramo mu gihe ushaka kwishyura ukoresheje emutiyeni uburyo buzwi nka momo peyi, cyangwa momo ishyura. Aha ni uburyo ushobora kuba wakishyura umucuruzi bitagusabye ko ukatwa cyangwa se bitagusabye ikindi kintu.

Aha ni aho abakozi cyangwa abakoresha rya shami rya emutiyene, babonera ibihembo cyangwa bakaba babasha kugurira amayinite cyangwa kubitsa ndetse no kubikuza bakoresheje emutiyene.

Aha ni aho wishyurira ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka Mobile Money. Ahangaha niho wishyurira ibicuruzwa cyangwa bitewe n'ibyo uba wagiye ufata.

Uyu ni umukozi wa emutiyene ubifitiye ububasha, uba wemerewe kuba yakugurira amayinite, kuba yakubikiriza, kuba yakoherereza cyangwa kuba yagufasha mu bindi bikorwa bitandukanye nko kugurira simukadi kukugurira amayinite cyangwa ibindi bikorwa byose byerekeranye na emutiyeni kuba yabigufashamo.

Aha ni ku ishami rya MTN, aho ushobora kubikuriza cyangwa ukabikiriza amafaranga cyangwa mu gihe ushaka kugura amayinite cyangwa ushaka kohereza amafaranga undi muntu, ni aha ugana.

Aba ni abakozi ba MTN baba bashinzwe kukugezaho bimwe mu bikorwa iri shami rya MTN rikora harimo kuba bakubikiriza amayinite, kuba bakohereza amafaranga cyangwa kuba bakubikiriza amafaranga.

Aka ni agashami gatoya cyangwa se ibizwi nk'akazu kabashinzwe kugurisha ndetse no kugufasha mu bijyanye na Mtn. Waba ushaka kugura amainite, waba ushaka kubitsa amafaranga, waba ushaka kohereza amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni ahakoreshwa cyangwa hifashishijwe uburyo bwo kwishyura ndetse no kugura ibintu ushaka byose hifashishijwe ikoranabuhanga, yaba ikarita cyangwa iki, ariko muri ubwo buryo bwose ukifashisha uburyo bwa MTN.

Aha ni mu gitaramo cyangwa mu imurikagurisha cyangwa kumurika ibikorwa bya Emutiyeni, aho baba bazanye ibihembo, bakagenda bahemba abakiriya babo cyangwa abafatanyabikorwa babo, aba ni abantu bari bari gususurutsa abari bitabiriye bimwe muri ibyo birori.

Aha tubona ni aho abantu bakoresha umurongo cyangwa umuyoboro wa Emutiyeni Rwanda, aho bashobora kujya babasaba ibintu bigiye bitandukanye, aho ushobora kujya ushaka kuba watangira gukoresha umuyoboro, mu gihe waba ufite ibibazo by'amafaranga cyangwa se ushaka amayinite n'ibindi byose wakwifuza, wagana kuri iki cyicaro cya Emutiyeni Rwanda.

Ubu ni uburyo ukoresha ushaka kwishyura amafaranga, hifashishijwe ikoranabuhanga uri kwishura ibyiowaba wafashe ukoresha umuyoboro wa emutiyene.

Aha ni ku ishami rya MTN, riherereye i Nyarutarama. Aho uba wabasha kugera bakaba bagufasha ibintu bigiye bitandukanye, nk'urugero nk'iki cyapa kiragaragaza uburyo ki ushobora kuba waguramo amayinite ukoresheje uyu muyoboro wa MTN.

Aka ni agashami gatoya cyangwa ahazwi nk'akazu ka emutiyeni. Aho bagufasha kuba baguhereza ibyo ukeneye ku bijyanye n'uyu muyoboro wa emutiyeni. Aho bagufasha kugura amayinite, kubitsa, ndetse no kubikuza, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uyu ni umukozi wabigenewe ushinzwe kukugezaho bimwe mu byo ukeneye ku bafatanabuguzi ba MTN, aho wamuguraho amayinite cyangwa ukaba wabasha kumubikirizaho amafaranga cyangwa akaba yabasha kuyakubikuriza.

Aha ni ku ishami rya mtn cyangwa aho babasha kugufasha kugura amayinite, kubitsa amafaranfa yawe, cyangwa kohereza amafaranga yawe, cyangwa kwizigamira amafaranga yawe, hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga,.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje urubuga rwa emutiyeni ruzwi ku izina rya momo. Aho ushobora kwifashisha ibyo wakenera byose byerekeranye no kohereza cyangwa guhinduranya amafaranga cyangwa kugura amayinite.

Aha ni aho umukozi wa emutiyeni akorera, cyangwa se umuntu ufasha emutiyeni kuba yahereza abafatabuguzi bayo ibyo bakeneye, nk'amayinite, kubitsa no kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Aka ni agashami cyangwa ibizwi ku kazu gatoya k'umukozi wabigenewe, wabiherewe ububasha na emutiyene, aho aba aguhereza bimwe mu bikorwa by'ishami rya emutiyene, nko kugura amayinite, kubitsa, kubikuza, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ni ishami rya MTN rishinzwe kuba waguriraho amayinite cyangwa kuba washaka ibijyanye na MTN cyangwa ukaba wabitsa cyangwa ukabikuza amafaranga cyangwa wafungura ifatanyabuguzi ry'iri shami rya MTN.

Uyu ni umukozi wa Emutiyene, ushobora kuba yagufasha gukora ibintu bigiye bitandukanye, ushaka nko kugura simukadi ya Emutiyene, ushaka kuba wabitsa amafaranga, ushaka kuba wakohereza amayinite cyangwa amafaranga undi muntu, ndetse ushaka no kuba wamubaza ibindi bigiye bitandukanye ku bijyanye a Emutiyene, ni uyu wagana.

Aha ni ishami rishinzwe gutanga amayinite, cyangwa kubikuza mafaranga cyangwa ushaka kuyohereza cyangwa ushaka kuyabitsa. Aha ni ku ishami rya emutiyeni

Ubu ni uburyo ki bukoreshwa n'umuyoboro wa emutiyene, uburyo ushobora kwishyuramo amafaranga, uyishyura nk'umucuruzi bidasabye ko hari andi mafaranga ukatwa cyangwa hari ibindi bintu bakubaza.

Ibi ni umukozi wa MTN ubishinzwe ukorera mu gashami gato gato gatoya ka MTN. Baba bashinzwe kugufasha mu bikorwa bitandukanye waba ushaka mu gihe ushaka kugura amayinite, mu gihe ushaka kubitsa cyangwa kubikuza n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iki ni icyapa cya MTN, aho ushobora kwishyura ukoresheje uburyo buzwi nka MoMo. Ahangaha nta mafaranga namwe ukatwa, ukoresha wifashishijwe uburyo bwa ikoranabuhanga.

Aha ni ku ishami rya MTN, aho abakoresha imiyoboro yabo baba bagize ibibazo bigiye bitandukanye, bakaba batabasha kubyikemurira bagahitamo icyemezo cyo kugana ishami ryabo, cyangwa bakaba bashaka no kugura amasimukadi.

Aha ni agashami gato gatoya ka mtn, aho uyu aba ari umukozi wa mtn uba ushinzwe kukugezaho bimwe mu bintu bitandukanye: nko kugura ama inite, ndetse kubitsa, kubikuza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byerekeranye na mtn.

Aha ni aho bishyurira cyangwa bagurira amayinite mu gihe ushaka kwishyura ishami rya MTN cyangwa mu buryo ushaka kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga yawe cyangwa mu buryo bwo kugura amayinite cyangwa kohereza amafaranga undi muntu.

Aha ni kukazu aho abangaba baba bagiye gushaka ibijyanye nibyifuzo byabo kubijyanye nabakoresha umuyoboro wa MTN aho baba bagiye kuhagurira nkama inite cyangwa se bagiye kuhabikiriza amafaranga yabo cyangwa kuyabikuza cyangwa se kuyakoresha ibindi bigiye bitandukanye.

Uyu ni umukozi ubishinzwe ako twakwita nk'agashami gato ka MTN uba ushinzwe kugufashe mu kubitsa cyangwa mu kubikuza amafaranga cyangwa ushaka kuyoherereza undi umuntu uri kure yawe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa mu kugura amayinite.

Ishyura na momo! Ni uburyo ushobora kwishyuramo ukoresheshe telephone yawe muburyo by'ikoranabuhanga; aha wishyura bitagusabye gukatwa andi mafaranga, cyangwa se ntayandi mafaranga urenzaho mu gihe urimo ukoresha ubu buryo bwa momo wishyura.

Aha ni mu kwamamaza cyangwa kumurika ibikorwa bigiye bitandukanye, bya emutiyeni hano mu Rwanda, aho badufasha kutworohereza mu kugura amayinite, ndetse mu kubitsa no mu kubikuza.

Aha ni ku ishami ryaMTN, aho MTN iba yimuye yamanutse mu baturage ikumva ibibazo bafite ndetse ikabafasha no kubahereza ibyo babagomba babegereye, abafite ibibazo byo kuba bagura amafone cyangwa se kuba bagura, babitsa bagura ama inite bakanagenda batsindira ibihembo bitandukanye.

Uyu ni umucuruzi wabigenewe wanabiherewe uburenganzira aho ushobora kumwishyura wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga nta rindi katwamafaranga ribayeho ukaba wabasha kumwishyura nta mafaranga arengejeho yo kuba wakatwa.

Iri ni ishami rya emutiyene, aho ushobora kwishyurira amafaranga, kugurira amayinite cyangwa kohereza amafaranga cyangwa mu gihe ushaka gukoresha iri fatabuguzi rya emutiyene, ni aha ngaha wagana ahazwi nko ku ishami rubaho ritoya.

Uyu ni umukozi ubishinzwe wa emutiyeni, cyangwa aha ni ku ishami rya emutiyeni, aho ushobora kujya kubaza bakaba bagufasha mu bintu bitandukanye, mu gihe wa buze simukadi yawe ukaba ushaka indi cyangwa mu gihe ushaka gufata indi simukadi n'ibindi bigiye bitandukanye kugura amayinite, kubitsa, kubikuza n'ibindi byinshi.

Umukozi wa emutiyeni ubifitiye ububasha uba ushinzwe kuguhereza amayinite cyangwa kugufasha mu bindi bikorwa bitandukanye, ushaka nko koherereza amafaranga umuntu cyangwa ushaka ko umuntu ayakoherereza, ushaka kuyabikuza cyangwa ushaka kubitsa amafaranga yawe ufite mu ntoki ushaka ko ayakubikiriza uyu aragufasha.

Uyu ni umukozi ubishinzwe cyangwa ni umufatanyabikorwa wa emutiyeni aho aba ashinzwe kumenyekanisha cyangwa kwamamaza ibikorwa by'uyu muyoboro wa emutiyeni ari nako akomeza gutanga ibihembo bigiye bitandukanye.

Uyu ni umukozi ubishinzwe wanabiherewe uburenganzira na emutiyeni akaba yakubikiriza amafaranga cyangwa akaba yayaboherereza cyangwa akaba yakugurira amayinite mu buryo bwemewe.

Uyu ni umukozi wabigenewe wa MTN, aho agufasha kugura amayinite cyangwa kohereza amafaranga undi muntu uri kure cyangwa kuba yakubikiriza amafaranga cyangwa kuba bakoherereza amafaranga hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aba ni bamwe mu bahagariye ibikorwa cyangwa se kugezaho bimwe mu bikorwa by'ibi bigo tubona, ikigo cya eyateri ndetse n'ikigo cya emutiyene, aho ushobora kugenda bakagufasha mu bintu bigiye bitandukanye, kugura amayinite, kubitsa, kubikuza n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni aho bacururiza cyangwa bagurishiriza amavuta ajya mumodoka, aho ushobora kuyagura warangiza kuyagura, ugahita wishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga aribwo bwa emutiyeni kubizwi nka kode cyangwa momo peyi.

Uyu ni umutaka ukoreramo umukozi wabiherewe uburenganzira n'ishami rya emutiyeni, rikuru aho yabasha kugezaho zimwe muri mubyo ukeneye kubijyanye na emutiyeni.

Iyi ni imibare igufasha kuba wakwishyura ukoresheje umuyoboro wa emutiyeni, bitagusabye kuba wakatwa amafaranga, cyangwa kuba hari ibindi biciro baguca mu gihe uri kohereza ayo mafaranga, ahubwo ukabikora ku buntu.

Uyu nii umukozi ubishinzwe wanabitojwe ushinzwe gufasha emutiyene, aho ushobora kuba wamujyaho akakoherereza amayinite cyangwa se akaba yakubikira amafaranga cyangwa akayabikuza cyangwa se akoyohereza k'undi muntu waba ushaka kuyaha.

Uyu ni umukozi wabugenewe ushinzwe kukugezaho uburyo bushya bwo kugura, kugurisha cyangwa kuba wagura amainite cyangwa ukohereza amainite wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni ku ishami rya emutiyeni, aho babasha ababagana babo ibintu bigiye bitandukanye. Urugero nko kuba ushaka kuba wakoresha uno muyoboro bushyashya, cyangwa warabuze uno muyoboro ushaka kuwutunga bundi bushyashya.

Aha ni mwiduka rya MTN agashami gatoya ka MTN uyu ni umukozi waho aho ashobora kugufasha mu bintu bigiye bitandukanye nko kugura ama inite gu kwita kubijyanye no kwohereza amafaranga ndetse no kuba yagufasha kubikuza no kubitsa amafaranga.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ugura ikintu ariko muburyo bwo kwishyura hakifashishwa ikoranabuhanga.

Aha ni ku ishami rya Airtel aho babikuriza, bakanabikiriza, bakaba banagurira amayinite mu bijyanye na Airtel.

Aha ni mu kazi cyangwa se mu gashami, aho umukozi wa MTN aba akorera. Ashobora kuba yagufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Urugero: Ashobora kuba yagufasha kugura amayinite cyangwa se kuba yagufasha, kubitsa, kubikuza amafaranga n'ibindi bitandukanye.

Aka ni agashami gatoya ka MTN, ibizwi nko mu kazu k'aba-ajenti; aho ushobora kujya ukaba wabasha kugura amayinite, cyangwa ukaba wabitsa cyangwa ukabikuza amafaranga, cyangwa ukaba wayoherereza undi muntu uri kure yawe.

Aha ni ku cyicaro cyangwa ni ku ishami rya mtn aho ushobora kujya bakagufasha mu bintu bitandukanye, urugero mu gihe wataye simukadi yawe mu gihe amafaranga yawe utayabona, mu gihe wayobeje amafaranga cyangwa umu gihe bakuyohejeho amafaranga.

Aha ni mu kazu ka eyateri aho ushobora kuba wabagana bakaba baguhereza ibikorwa bitandukanye bikorwa na eyateri, ushaka kugura amayinite, ushaka kubona umuyoboro wa eyateri, ushaka kohereza amafaranga cyangwa se ushaka kohererezwa amafaranga wabagana uyu mukozi ubishinzwe yagufasha.

Iri ni iduka rizwi ku izina rya Kefse, aho ushobora kuba wagurira ibyobwa bidasembuye ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye, ukaba wabasha no kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, ubifashijwemo n'uyu mukozi turi kureba imbere yacu.

Iri ni ishami rya airtel, rigufasha kuba waguriraho amiyinite, kuba wabikuza, ku wakohereza ukoresheje indi miyoboro, cyangwa kuba wabitsa kuri iri shami ariko hifashishijwe uburyo bwa airtel.

Aha ni ku ishami rya emutiyeni riciriritse, aho ushobora kuba wagana bakagufasha mu bintu bigiye bitandukanye, kugura amayinite, kubikuza, kubitsa n'ibindi bitandukanye ndetse aha ngaha uhajya ushaka gutunga uwo muyoboro cyangwa mu gihe umuyoboro wawe wa emutiyeni waba wagize ibibazo.

Uyu ni umufatanyabikorwa wa emutiyene, uyu wicaye muri aka kazu gatoya ni umukozi wa emutiyeni, aho agafusha kuba yaguha ibyo ukeneye ku bijyanye na emutiyeni yaba amayinite, amakuru, n'ibindi bigiye bitandukanye uyu uramwegera akagufasha kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kuyabitsa n'ibindi bitandukanye.

Aka ni akazu ggakorwamo n'umuntu usinzwe cyangwa se ukoresha, ufasha emutiyene kuba yageza ibikorwa byayo kubantu bayigana cyangwa se bayikoresha, ahhanggahha nubwo hafunze ariko haba hagaragaramo uburyo ki ushobora gukurikiza amabwiriza agenga irishhhami cyangwa se umurongo wa emutiyene.

Aya ni amzina y'umucuruzi aho ushobora kubona aya mazina ugahita umenya ko aho ugiye kohereza amafaranga ari ho hanyaho ubu buryo n uburyo bwa emutiyemi uku wohereza amafaranfa hifasfishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aba ni ababasha kuba bageza kure ibikorwa cyangwa ibintu MTN yabasha kugufasha, aba ngaba ni abafatanyabikorwa bayo bagufasha kuba bakugurira amayinite, kuba bagufasha no mu bindi bigiye bitandukanye waba ukeneye kuri uyu muyoboro wa MTN.

Aha ni mu isoko rito cyangwa mu iduka, ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, cyangwa ibiribwa bigiye bitandukanye, ariko mu buryo bwo kwishyura rikoresha, ubishaka wakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, bitagusabye ko ukatwa andi mafaranga.

Aha ni ku iduka cyangwa ni agashami gatoya k'umuyoboro wa Eyateri, aho ushobora kuba wagurira amayinite cyangwa aho ushobora kuba wakoherereza amafaranga umuntu uri kure yawe cyangwa aho ushobora kuba wabikuriza amafaranga cyangwa wanabikiriza amafaranga yawe, hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Iki gipapuro ni ikikwereka imibare uri buze gukandamo kugira ngo uze kubasha kwishyura cyangwa kwishyurwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aha ni mu isoko aho ushobora kugurira ibicuruzwa, cyangwa ibyo ushaka ariko mu kujya kwishyura ukishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aha ni mu iduka cyangwa ahari kwamamarizwa ibikorwa no kumenyekanisha, abashaka kugana iri shami rya eyateli cyangwa uyu muyoboro wa eyateli ibyiza byawo, ndetse bakaba babasha no kuba batsindira ibihembo bigiye bitandukanye.

Iki ni igipapuro cyerekana uburyo ki ushobora kwishyuramo amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga mu buryo bwashyizweho na mtn kugira ngo hagati n'umucuruzi cyangwa icyo uguze kibashe kugerayo.

Ubu ni uburyo bworoshye cyangwa ni uburyo buzwi bwo gukoresha ikoranabuhanga wifashishijwemo na MTN, aho wabasha gukora ibintu bigiye bitandukanye wifashishije uru rubuga mu kwishyura cyangwa mu kwishyuza.

Aha ni aho Emutiyeni iba yegereye abafatanyabikorwa bayo, cyangwa se abakoresha ibikorwa byayo, ikabegera ikabasha kuba yabafasha mu bibazo bigiye bitandukanye, aha baba babafasha ndetse no kuba batsindira ibihembo bitandukanye.

Iri ni ishami rishinzwe kuba wakohereza amafaranga cyangwa kuba wabikuza amafaranga cyangwa kuba wagura amayinite ariko wifashishije uburyo bwa Airtel Mani(Airtel money) cyangwa ariyo yifatanyije mu U Rwanda Tigo kashi.

Aha ni ugutanga ibihembo ku bakoresha ifatabuguzi rya emutiyeni, aho ushobora kuba watsindira ibihembo bigiye bitandukanye. Nk'urugero: aha ngaha uyu yari yatsindiye igare kubera ko aba yaragiye akina, cyangwa akoresha emutiyeni mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Uyu ni umukozi wa Emutiyeni, ubifitiye uruhushya ndetse n'ububasha, bwo kuba yakubikiriza amafaranga yawe cyangwa yayakubikuriza cyangwa yagufasha mu buryo ushaka kuyohereza undi muntu, no kuba wakenera kugura amayinite, n'ibindi bigiye bitandukanye wamwifuzaho niwe wagana aka gusobanurira byinshi bijyanye na Emutiyeni.

Aha ni ku cyicaro k'ikigo kitwa emutiyene gishinzwe ibintu by'itumanaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no hanze yacyo aho ushobora kugana mu gihe ushaka kujya kuri uyu muyoboro cyangwa se aho ushobora kugana mu gihe ushaka kugura amayinite kubitsa, kubikuza n'ibindi bigiye bitandukanye nk'ibibazo by'amafaranga yawe mu gihe yahagaritswe n'ibindi mu gihe momo yawe yasinziriye n'ibindi bitandukanye.

Uyu ni umukozi cyangwa ufasha kugera kure cyane ibikorwa byishami rya emutiyeni, aho yaba yabasha kukugeza kunzozi zawe muburyo bwo gufata ibihembo cyangwa bwo gukoreramo ibyo bihembo baba batanze cyangwa ukaba wagura amayinite cyangwa uka bitsa cyangwa ukabikuza wifashishije ishami rya emutiyeni.

Aha ni aho umukozi cyangwa ishami rito ritoya cyane rya Emutiyeni, aho bashaka umukozi ubifitiye ububasha n'uburenganzira, kugira ngo azabashe kuguhereza ubufasha ubwo ari bwo bwose ushaka bujyanye n'iri shami rya Emutiyeni, kohereza amayinite, kubitsa ndetse no kubikuza ndetse no kohereza amafaranga, hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Iki ni ikigo kibasha kuba cyakugezaho uburyo ubwaribwo bwose ushaka gutumiza ikintu hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga za murandasi amaterefoni agendanwa ndetse nibindi bigiye bitandukanye.

Uru ni urubuga rw'umuntu ku giti cye, aho rugufasha kuba rwaguhuza n'abashoramari batandukanye, mu gihe waba ukeneye kugira ibyo ugura cyangwa ukeneye kugirango ubone ibyo ushaka kugura.

Aha ni aho ushobora kuba wakora ibikorwa byawe bitandukanye, aya ni ameza ushobora kuba waterekaho mudasobwa yawe, kugira ngo ube wabasha gukora akazi kawe neza, cyangwa se ukaba wakora uri i wawe no mu rugo ukoresheje ikoranabuhanga.

Iki ni ikinyabiziga kugufasha kuba cyakugezaho ibyo waba watumije ukoresheje ikoranabuhanga, bakaba babikugezaho aho waba uherereye hose mu duce tugiye dutandukanye tw'iki gihugu cyacu.

Aha ni urubuga rushinzwe kuba rwagufasha kukugezaho ibintu ibyo aribyo byose ukeneye, yaba ibyo munzu, ibikoresho byo kurya, ibyo guhaha nibindi bigiye bitandukanye. Bagufasha kuba babikugezaho iwawe mu rugo.

Uru ni urubuga ushobora kuba wahahiraho ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wabihahiraho wifashishijwe ikoranabuhanga bakabikugezaho aho utuye ibicuruzwa bitandukanye yaba iby'ikoranabuhanga, ibyo mu nzu cyanga se n'ibyo kurya babikugezaho ku gihe.

Iki ni igitangazamakuru gikoresherezwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, aho baba babasha kukubwira amakuru y'ibyo ushaka byose hirya no hino ku Isi. Iki gitangazanakuru gikoreshwa cyangwa gitangaza amakuru yacyo hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uyu ni umukozi wabigenewe ushinzwe kukugezaho cyangwa ugushyikiriza iwawe mu rugo ibyo uba wahashye ukoresheje ikoranabuhanga akaba yabikuzanira iwawe mu rugo cyangwa ari hose uherereye wahahiye ku ikoranabuhanga ndetse wishyuye ukoresheje ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga ushobora kuba washyiraho igicuruzwa cyawe cyangwa ikikoresho cyawe ushaka kugurisha noneho umuntu ugishaka icyo gikoresho nawe akazazaho mugahura mukivuganira mukavugana deni noneho mukaba mwabasha guhura ni ukuvuga ko gihuza umuguzi n'umugurisha.

Uru ni urubuga ushobora kuba waguriraho ibikoresho bitandukanye, nk'aha urugero bari kutwereka agakoresho kabasha kuba kakica imibu cyangwa utundi dukoko dutandukanye. Aha ngaha haba hariho n'igiciro cy'ibyo bikoresho, uburyo wakishura ndetse n'uko byakugeraho utavuye aho uri ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aba ni abakorera umwuga mu mugi wa Kigali no mu duce tugiye dutandukanye, aho baba batwara abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, ku binyamitende ibiri cyangwa kubizi nka moto, hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Uyu ni umukozi ukoreshwa n'ikigo bita ''Birasi'', gikorera hano mu mugi wa Kigali; aho gishinzwe kukugezaho ibintu uba waguze cyangwa wahashye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, bakabigushyikiriza aho uherereye hose.

Iri ni iduka rigurisha ibiribwa cyangwa n'ibinyobwa ariko ibyo biribwa bikagurwa hikoreshejwe ikoranabuhanga bakaba babikugeza aho waba uherereye hose mu gihugu.

Aba ni abatwazi batwaye abantu babajyanywe aho bashaka ariko mu buryo bwo kwishyura hari bwifashishwa uburyo bw'ikoranabuhanga, cyangwa kuba babatwaye hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwakoreshejwe.

Uyu ni umukozi ushinzwe kukugezaho ibintu uba watumije hifashishijwe uburyo bw'ikiranabuhanga. Aho abikuzanira aho waba uherereye hose, akabikugezaho iwawe mu rugo, ukamwishyura hifashishijwe uburyo bw'ikiranabuhanga, ndetse ibintu byose wifashisha ikoranabuhanga.

Aya ni amaduka atandukanye, iri duka tureba ni iduka ricuruza imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, gusa aha ngaha ushobora no kuba wahaha hifashishijwe uburyo ki bw'ikoranabuhanga bitagusabye kuva aho uri bakabikuzanira aho uherereye.

Uru ni urubuga rugufasha kuba wagura ibintu bigiye bitandukanye. Yaba ibyo kurya, yaba ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye waba ukeneye. Babikuzanira aho uherereye hose, ntakindi kiguzi bagusaba, uretse kwishyura iy'icyo kiribwa cyangwa icyo kintu watumije.

Izi ni imbuga zigiye zitandukanye ushobora kuba wahahiraho ibintu harimo nka Alibaba, Amazoni ndetse harimo n'izindi mbuga zigenda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Aha ushobora kuba wagihaha bakakikugezaho aho uherereye iwawe mu rugo.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho bashobora no kuba bagufasha kuba babikugezaho, aho waba uherereye hose mu gihugu mu gihe ushaka kubitumiza ukoresheje ikoranabuhanga wasura imbuga nkoranyambaga zabo.

Iki ni igishushanyo mbonera cyangwa ni icyapa kikwereka uburyo ki ushobora kuba cyangwa uburyo ahangaha bigishamo amafaranga asabwa ndetse igihe bazatangira gukorera, ndetse n'uburyo watangira kuba wabandikira kugira ngo mube mwabasha nawe kuba mwakorana nabo.

uru ni urubuga rugufasha kuba wahahira ibintu muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa ukaba wagurishirizaho ibyo ukeneye ibyo aribyo byose mu buryo bw'ikoranabuhanga bikaku ku ikoranabuhanga cyangwa ukishyura ku buryo bw'ikoranabuhanga

Uru ni urubuga rugufasha kuba wagura ibikoresho bigiye bitandukanye. Nk'urugero, nk'aha hariho inkweto. Ushaka izi nkweto wahita ubandikira bakazikugezaho, ndetse ikindi biragaragara ko uru rubuga bazikugezaho ku buntu nta kindi kiguzi usabwe, kereka igiciro cy'ibyo uba waguze.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Aba abashinzwe kumenyekanisha ibikorwa byo kugurisha cyangwa k'umuntu ushaka kugurisha cya kugura moto cyangwa ibinyabiziga by'ibinyamitende ibiri.

Uyu ni Umukozi utwara ikinyabiziga aba ashinzwe kukugezaho ibyo wahahiye ku ikoranabuhanga cyangwa wishyuriye ku ikoranabuhanga akaba yabikugezaho aho waba uherereye hose mu gihugu.

Aba ni abashinzwe kugezaho umuntu ibintu aba yatumije akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, aho uyu aba ari umukozi wabo ushinzwe kubikuzanira, ibintu bye bitandukanye, harimo imiti, harimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Aba ni abakozi baba bashinzwe kukugezaho ibyo wahahiye cyangwa ibyo waguruye cyangwa ibyo wagurishije, yaba amafaranga, ibicuruzwa, ibyo uba wahahiyeho wifashishije ikoranabuhanga, kugira ngo bikugerereho ku gihe cyangwa igihe ubishakira cyose, cyangwa igihe mwumvikanye bikakugeraho.

Uru ni'urubuga rwifashishwa mu kukugezaho ibyo waba ushaka byose bigiye bitandukanye ibikoresho by'ikoranabuhanga ibikoresho byo mu nzu n'ibindi bigiye bitandukanye bakaba babikugezaho ukabasha no kuba wa kwishyura wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga rikoresha muri iki gihugu cy'u Rwanda e mtn airtel visa, kandi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iposita, iposita ni uburyo ushobora kuba wakoherezamo ibintu haba ushaka kohereza nk'ibaruwa cyangwa hari ubutumwa wageneye umuntu ukoresha uru rubuga cyangwa ari ibintu ushaka ko bakuzanira baba babikuye mu mahanga cyangwa hari umuntu ushaka kubyoherereza.

Uyu ni umukobwa ukorera ikigo cyangwa abashinzwe kukugemurira ibintu waguriye hifashishijwe ikoranabuhanga aho ushobora kuba watumiza ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa uyu ni umukozi ubishinzwe

Izi ni imbuto cyangwa imboga zikungahaye ku ntungamubiri runaka aho ushobora kuba wazitumiza bakazikugezaho aho waba uherereye hose wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rugufasha kuba wagura ibikoresho bigiye bitandukanye birimo imyenda, birimo intebe, birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ariko ukabigura nabwo nubundi, wifashishije iryo koranabuhanga

Uru ni urubuga rugufasha kugura cyangwa kugurisha ibikoresho bidasabye ko uva aho uri ujya ngo ku iduka aho ubikora uri i wawe bakabikugezaho.

Aha ni mu isoko, aho baba bacuruza ibiribwa bigiye bitandukanye. Isoko rinamo ibintu bitandukanye, yaba ibyo guteka, yaba ibyo guhita urya ako kanya ndetse n'imbuto.

Iri ni iduka rigurisha cyangwa rikaba ryakugezaho wifashishije ikoranabuhanga kugira ngo ubashe guhaha ibyo ukeneye cyangwa washaka ukabagana aho bakorera cyangwa bakabikuzanira iwawe mu rugo cyangwa aho uherereye.

Uru ni urubuga rukoreshwa hano mu Rwanda, ubu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kurukoresha ugura cyangwa ugurisha ibikoresho byawe mu buryo bugiye butandukanye.

Aba ni abakozi bashinzwe kuba bakugezaho ibintu uba watumije cyangwa ibintu uba wasabye ko bakugezaho utabashije kuhigerera bakaba babikugezaho iwawe mu rugo, yaba ibinyobwa, ibiribwa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Rashi: Rashi ni uburyo cyangwa ni urubuga uba wabasha kuba wasura cyangwa ukaba wabahamagara bakaba babasha kukugezaho ibyo waba ukeneye nk'amafunguro cyangwa n'ibindi bintu ibyo aribyo byose, babikugezaho aho waba uherereye hose bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Ubu ni uburyo uhuriramo n'abantu bagiye batandukanye, mugurisha cyangwa ushaka kugura ibikoresho bigiye bitandukanye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, mukaba mwahura mukahahirana ku mpande zombi.

Uru ni urubuga ushobora kuba wagurishirizaho ibintu byawe, ugashyiraho ibisabwa ibyo ushyizeho ingano yabyo n'igiciro cyabyo, gusa aha ngaho ushobora no kuba wahaza ukaguriraho ibintu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uyu ni umukozi ubishinzwe ukorera ikigo cya vuba vuba, aho akugezaho ibintu uba wamutumye wifashishije ikoranabuhanga. Ibyo ukeneye byose mu buryo bwo kwishyura ndetse nawe akabikugezaho mu buryo bw'ikoranabuhanga kugirango amenye aho utuye.

Uru ni urubuga rugufasha kuba wahahiraho cyangwa kuba watumirizaho ibintu byose ushaka yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga ibyo kurya nibindi bigiye bitandukanye wifashishije ikoranabuhanga.

Aha ni aho bahahira ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho ushobora no kubigura hifashishijwe ikoranabuhanga, bakaba babikugezaho aho waba uherereye aho ari ho hose.

Uyu ni umukozi ubishinzwe kukugezaho ibyo wahashye cyangwa watumije hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, uyu akorera mu kigo kizwi nka Vuba Vuba Kandi kirizewe.

Uyu ni umukozi ushinzwe kukugezaho ibyo wahashye cyangwa ibyo wagurishije kugira ngo akuzanire amafaranga cyangwa kugira ngo ageze kuwagutumye wakoresheje ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rwo ku ikoranabuhanga cyangwa kuri murandasi aho wagurira ibintu hifashishijwe ikoranabuhanga byaba biri kuva mu mahanga cyangwa hanze y'iki gihugu cyacu bikakugeraho aho uherereye.

Uyu ni umukozi ubishinzwe kuba yakugezaho ibyo kurya cyangwa n'ibindi ibyo aribyo byose waba watumije wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse no mu kwishyura ukifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga no kumuragira aho utuye ukifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga.

Iri ni urubuga rugufasha kuba bakugezaho ibicuruzwa waba watumije ibyo ari byo byose, cyangwa ubufasha ushaka bugiye butandukanye, bakabikugezaho bakabikuzanira aho bitagombye kuva aho uri.

Iri ni iduka ricuruza imyenda cyangwa bintu byose bijyanye n'imyambaro, harimo amashakoshi, inketo, n'imyamboro amapantaro n'amajipo bigiye bitandukanye aho ushobora no kuba wabigura hifashishijwe ikoranabuhanga

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga, uburyo ushobora kuba ukeneye ikintu ruguhuza no kuba ukeneye ikintu ndetse n'ufite icyo kintu, bivuge ngo ruhuza umuntu ugura ndetse n'ugurisha mu guhuza ku buryo bavuganamo.

Uru ni urubuga rugufasha kuba wahaha cyangwa wagura ibintu bigiye bitandukanye birimo :inkweto, imyenda, ibyo kunywa n'ibyo kurya; ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bidasabye ko uva aho uri, bakabikugezaho aho uri hose, ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Aba tureba imbere yacu ni abakozi babishinzwe kukugezaho ibyo uba wahashye cyangwa ibyo uba watumije wifashishije mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bakaba bakorera ikigo kizwi ku izina rya vuba vuba.

Iki ni icyapa kiri kuri iki kinyabiziga kibasha kuba cyakubwira aho wahahira cyangwa aho watumiza ibicuruzwa byawe cyangwa ibyo ukeneye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rushinzwe kugufasha mu guhaha cyangwa mu kugura ibikoresho cyangwa ibyo kurya cyangwa icyo ari cyo cyose ukeneye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ku gihe.

Uyu ni umukozi ubishinzwe kukugezaho ibyo uba watumije aho we atandukanye n'abandi twari dusanzwe tumenyereye hano mu Rwanda akoresha akanyamitende gatoya kadafite moteri.

Iki ni ikinyabiziga cy'ibinyamitende ibiri gifite moteri, kigufasha kuba cyakugezaho ibyo wahashye ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bakaba babikuzanira iwawe mu rugo nta bindi biguzi bagusabye.

Uru ni urubuga rukorohereza kugurira ibintu bidasabye ko wava aho uri ahubwo wifashishije ikoranabuhanga, yaba mudasobwa yawe cyangwa iyo ugendana terefone igendanwa

Uru ni urubuga ao umuntu ashobora guhaha yikoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora gutumiza ibintu bitandukanye, harimo ibyo kurya, harimo ibikoreshp byo mu rugo, harimo ibikoresho byo kwambara, n'ibindi bigiye bitandukanye, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga aho babikugezaho iwawe mu rugo.

Uyu ni umuntu cyangwa umukozi ushinzwe kukugezaho ibyo uba waguze, wifashishije ikoranabuhanga akabikugezaho iwawe cyago aho a uri hagiye hatandukanye haba mu kazi haba iwawe aho ari ho hose akabikuzanira utavuye aho uri kandi wifashishije ikoranabuhanga.

Uyu ni umukozi wabigenewe ushinzwe kukugezaho yifashishwe iki kinyabiziga akakugezaho ibikoresho cyangwa ibintu byose ibyo ari byo byose yaba ibyo kunywa ibyo kurya, ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho bigiye bitandukanye ibyo munzu wahahiye kuri ku hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga akabikugezaho aho waba uherereye hose.

Uyu ni umukozi ubishinzwe, ushinzwe kukugezaho ibyo uba watumije hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho abikugezaho, aho waba uherereye hose.

Uru ni urubuga rugufasha kuba wahahira cyangwa wagurira ibintu byawe cyangwa ukaba wanabigurisha ukoresheje ikoranabuhanga bakaba babikugezaho ntakindi kiguzi bigombye.

Uru ni urubuga rugufasha kugura cyangwa kubona uburyo wa kwinjira mu gitaramo mu buryo bugiye butandukanye, hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo uzabashe kwitabira icyo gitaramo, no mu buryo bwo kubisuzuma aha ikoreshwa hifashijwe ikoranabuhanga.

Iki ni ikigo gishinzwe gutwara ibintu ku bantu aho bari hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kubatuma ibintu bigiye bitandukanye yaba ibikoresho byo mu nzu, yaba ibikoresho byo ku meza, yaba ndetse n'ibindi bikoresho wakifuza, iby'iminsi mikuru wabagana dore ko no mu minsi mikuru baba bashyizeho igabanyirizwa.

Ubu ni uburyo ushobora kuvugana n'umukozi cyangwa umuntu wabihuguriwe mu bujyanye no kuvurwa amaso cyangwa ubundi bumuga bwerekeranye n'amaso, ariko hifashishijwe ikoranabuhanga; mukaba mwabasha kuvugana kugira ngo azaguhe ibyo usabwa byose kugira ngo ukire.

Ibi ni ibinyabiziga bishinzwe kutugezaho ya mata cyangwa bishinzwe kugeza kuri ya makusanyirizo yose twagiye tubona, ibikoresha bikungahaye ku mata cyangwa ibintu byose bidusaba biva ku nka amavuta y'inka, amata, ibivuguto, inshyushyu ku bintu bigiye bitandukanye.

Iki n'icyamamaza cyangwa n'uburyo bwo kwamamazamo, uburyo ushobora guhaha wifashishije ikoranabuhanga, utavuye aho uri ndetse no mu kubikugezaho bakazabikugezaho babikuzaniye aho uherereye.

Uru ni urubuga rubasha kuba rwaguhuza n'abafatanyabikorwa waba ukeneye mu kuba wakora ubucuruzi bwawe, ukeneye ibicuruzwa cyangwa ukeneye ko bakugurira hari ibyo ushaka kugurisha bimwe mu bicuruzwa byawe.

Uyu ni umuntu uba ufite ikinyabiziga, aho akugezaho ibyo uba wahashye byose, hifashishijwe uburyo ikoranabuhanga, ndetse no mu kwishyura aho wifashisha ubwo buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha ni aho bagufasha kuba bakugezaho cyangwa ibyo waba wahashye wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga yaba mu kwishura waba wakoresheje ikarita yawe cyangwa wakoresheje ubundi buryo bugiye butandukanye bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rishinzwe kukugezaho ibikoresho, byaba amavuta, ibyo kurya, cyangwa ushaka kubigurisha cyangwa kubigura, ariko ugakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bikugereho utavuye aho uri.

Uru ni urubuga rukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga ruzwi ku izina rya I gura, aho ushobora kuba wahahira ibikoresho bigiye bitandukanye, yaba imyambaro, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bigiye bitandukanye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rishinzwe kuba, cyangwa rugufasha kuba wahaha utavuye aho uri, aho waba uhereye hose bakaba babikuzanira aho uri. Ibyo ushaka ubishakira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ukanishyura hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uyu ni umukozi wabigewe kukugezaho ibyo wahahiye kuri hifashishijwe ikoranabuhanga, yaba ibyo kurya, ibyo kunywa, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ukishyura ndetse ukabigura hifashishijwe ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni mu kabari cyangwa se mu kabyiniro cyangwa se mu buriro aho umuntu ashobora kujya ashaka ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye bikungahaye ku nyama no ku ntungamubiri zigiye zitandukanye. Gusa no muri ibyo byo kunywa twasangamo ibitandukanye yaba ibisindisha n'ibidasindisha byose biba birimo.

Uru n'urubuga ushobora kuba wajyaho ukaba wahaha ibikoresho bigiye bitandukanye, byaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaba ibikoresho byo kwambara, yaba ibikoresho byo mu rugo, yaba ndetse nibyo kurya. Gusa aha ushobora no kuba washyiraho nawe ibyo ushaka kugurisha, ugashyiraho n'ibiciro byawe.

Kasha, kasha igufasha kuba bakugezaho ibikoresho bigiye bitandukanye byaba iby'isuku byaba ibyo kurya bya ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ushobora kubahamagara bakabikugezaho ku buntu nta kindi kiguzi bigusabye.

Iyi ni urubuga rushinzwe kukugezaho ibiryo cyangwa ibintu ibyo aribyo byose ibizwi nka poroduwi mu ndimi z'amahanga, waba wahahiye cyangwa wahashye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bikugereho aho uherereye hose.

Ubu ni uburyo ukoresha ugura cyangwa kugira ngo uzemererwe kwinjira mu gitaramo runaka kiba cyateguwe hifashishijwe ikoranabuhanga nabwo kugira barebe ko wayiguze neza no mu kwishyura byose hakoreshwa ikoranabuhanga.

Uyu ni umukozi ushinzwe kukugezaho ibintu bigiye bitandukanye uba watumije, aho ashobora kukuzanira nk'ibiribwa cyangwa ibinyobwa uba watumije wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, iki abari, akaba ari ikigo kimaze gufata irindi zina muri iki gihugu cy'u Rwanda, kizwi ku izina rya Kasha.

Iki ni ikimenyetso kerekana uburyo bw'urubuga rugurisha, rukanagurishirizwaho, ukaba wanaguriraho ibintu bigiye bitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga, mubikoresho bacuruza biba bigiye bitandukanye, ibifatika ndetse n'ibidafatika, bijyanye na serivisi babigufashamo.

Uru ni urubuga rushinzwe kukugezaho ibyo uba wahashye wifashishije ikoranabuhanga. Bakabikugezaho ku buntu ndetse ntakindi kiguzi bigusabye ukaba wanabasha kwishyura ku buryo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rukoresherezwa ku mbuga nkoranyambaga, aho ushobora gutumiza ibintu ushaka ibyo ari byo byose biturutse mu gihugu cyo hanze, uru rubuga rukaba rwarateye imbere ruzwi ku izina rya Alibaba.

Ubu ni uburyo wabasha kuguriraho cyangwa uburyo wabasha kugurishirizaho ibikoresho byawe cyangwa ibikoresho ukeneye hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, wishyura k'uburyo bw'ikoranabuhanga, ibyo bikoresho ushaka ukabishaka k'uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uyu ni umukozi wabiherewe uburenganzira na Vuba vuba. Akaba afite ubushobozi cyangwa akaba icyo ashinzwe arukukugezaho ibintu ubawahashye. Ibyo uba waguze kugirango akugezeho abikugezeho ku gihe.

Iki ni ikinyabiziga cy'ibinyamitende ibiri gishinzwe kukugezaho cyangwa gishinzwe kugeza ku muntu ibintu aba yatumije yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Nawe akaranga amerekezo ye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga ruguhuza cyangwa rugufasha guhura n'abantu bagurisha ibikoresho, ushaka kugura igikoresho cyangwa ushaka kugira icyo ugurisha cyawe. Wifashisha uru rubuga ruguhuza n'umuguzi, umuguzi ndetse n'umugurisha.

Aha ni mu iduka rigurisha ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ikoranabuhanga ,aho ushobora kuba wagura amapasi cyangwa se ibintu byose bikomoka ku ikoranabuhanga byo murugo, ibikonjesha ,ibyuma biteka, ibyuma bimesa n'ibindi bitandukanye. Gusa ushobora no kuba wagura wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bakabikugezaho iwawe.

Uru ni urubuga ushobora guhahiraho imyambaro cyangwa imiti cyangwa ibintu bigiye bitandukanye, ariko hakifashishwa uburyo bw'umu bw'ikoranabuhanga cyangwase ukifashisha murandasi yawe, aho bashobora kubikugezaho aho waba uherereye hose.

Uru ni urubuga rugufasha kuba wahahira ukoresheje ikoranabuhanga, aha bagufasha kuba wahatumiza ibintu byose ushaka utavuye aho uri iwawe kandi bakabikugezaho ku gihe aho uherereye neza.

Iki ni icyapa cyangwa ikigutangariza aho ushobora kuba wakorera cyangwa ushobora kuba wababyeyi bakagufasha mu gutunganya urubuga waba ushaka gukora, yaba ibyerekeranye n'amasomo, ibyerekeranye n'akazi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba ni abakozi babiherewe uburenganzira cyangwa babafitiye uruhushya, bwo kuba byakugezaho ibyo waba wahashye, ibi bikaba bikorwa n'uruganda cyangwa n'ikigo cyitwa rashi, aho bakugezeho ibiribwa bigiye bitandukanye n'ibinyobwa bitandukanye.

Vuba vuba, vuba vuba ni urubuga cyangwa n'ikigo gishinzwe kugeza abanyarwanda aho baherereye hose ikintu icyo ari cyo cyose bifuza, yaba ibyoku kurya, yaba ibyo kunywa ndetse imyambaro, bo bagufasha kuba watumirizaho ikintu hakoreshejwe uburyo bw'iranabuhanga bakakikugezaho aho uherereye hose.

Aha ni mu ikusanyirizo cyangwa aho babika bya bintu byose wahahiye ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa bya bintu uba waranguje wifashishije ikoranabuhanga kugira ngo bizakugereho ku gihe, aha ni aho babitunganyiriza n'aho babikugerezaho mu gihe ubitumije cyangwa mu gihe ubonye ubikugurira.

Uru ni urubuga rugufasha kuba wahaha ibintu wifashishije cyangwa ukaba wasura imbugankoranyambaga zabo, aho ushobora guhaha ibintu bikakugerago aho uherere hose.

Uyu ni umukozi ubishinzwe ukorera ikigo cya KFC, giherereye hano ku i Remera, aho ashobora kuba yakugezaho ibiribwa waba ushaka watumije, aho uri hose iwawe mu rugo wifashishije ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rushinzwe kuba rwakumenyekanisha cyangwa rwakugezaho ibintu byose wabasha kuba watumizaho bidasabye ko wava aho uri cyangwa kuva iwawe ahubwo ukifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uru ni urubuga rushinzwe kuba rwakugezaho ibyo uba waguze wifashishijwemo n'ikoranabuhanga, aho babikugezaho ku buntu kandi bikahagera ku gihe bitekanye no guhamagara aba ari ubuntu.

Shopifayi, urubuga rugufasha kuba watumiza ibintu hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bakaba babikuzanira ahantu uherereye wakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga kugirango babashe kubikugezaho.

Vuba Vuba. Iki ni ikigo gishinzwe kugezaho abantu ibintu ndetse ibiribwa ndetse n'ibinyobwa baba batumije hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Aha ngaha turi kubona umukobwa imbere yacu, arimo arakuramo ibyo yari azanye ku muntu wabimutumye akoresheje iryo koranabuhanga.